Ni abana bafite ibikombe by'amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, bakaba bambaye impuzankano z'ishuri, bakaba bari kunywa amazi aturutse mu kigega gisa umukara.

Ni abantu bari ku bitaro bakaba bicaye bategereje ko bahabwa ubuvuzi, mu bigaragara baturutse ahantu hatandukanye baje kwisuzumisha, kwipimisha ndetse no kureba uburyo imibiri yabo ihagaze kugira ngo bahabwe ubuvuzi bujyanye n'uburwayi bwabo.

Abana baturutse impande n'impande mu ngo zabo, baje gushaka amazi yo gukoresha mu ngo zabo, kugira ngo bakore imirimo igiye itandukanye. Bafite ibivomesho bigiye bitandukanye kandi mu ngando zitandukanye, biteretse imbere y'aho bavomera. Hari inzu kandi irimo umuntu ushinzwe gucunga amazi ndetse no kwishyuza.

Abaturage n'abaganga bahagaze nyuma yo guhugurwa ndetse no guhabwa impanuro ku buryo bakwiye gukumira inda ziterwa abangavu hejuru yaho hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku.

Ni abana batoya bane bafite uruhu rwirabura bari guseka bareba hejuru, bateze ibiganza byabo byose kugira ngo babakarabye. Munsi yabo hari indobo itukura bari kubakarabirizamo kugira ngo bagirire isuku intoki zabo. Bigaragara ko bafite ahantu bakura amazi meza kandi babasha kuyageraho.

Inama yateguwe k'ubufatanye bw'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima yigira hamwe ku buryo ubuvuzi bwatezwa imbere mu Rwanda, kandi bukagera ku bantu bose ku buryo bworoshye. Ni inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye. Bamwe bakaba bicaye abandi bahagaze bisa nk'aho barikwifotoza nyuma y'uko inama irangiye.

Umuntu wambaye igitenge hasi akaba yambaye n'ishati ari kugenda avuye kuvoma afite indobo imwe y'umuhondo mu kuboko kumwe akaba yikore n'indobo y'umutuku.

Igishushanyo cyerekana ikigereranyo cy'abakire n'abakene, aho ubukene bwari buri kuri mirongo ine n'icyenda, ubukire buri kuri mirongo itandatu n'umunani guhera mu mwaka wa bibiri na rimwe kugeza mu mwaka wa bibiri na cumi, naho ubukire buri kuri mirongo irindwi na gatatu, ubukene buri kuri mirongo itandatu na kabiri, guhera mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri.

Ababyeyi bicaye mu nzu y'ivuriro, bakaba Bafite abana batoya, bigaragara ko bari guhabwa ubuvuzi kandi neza, hari umuntu ufite inkongoro wambaye umupira w'umuhondo, akaba ari guha icyo kunywa umwana.

Abana batoya bari mu mazi menshi bakunze kwita ikizenga, bari koga ibyo benshi bakunze kwita kwidumba, bikaba ari bimwe mu bintu bishimisha abana kandi bigatuma bagira ubuzima bwiza mu gihe cy'ubuto bwabo.

Umwana muto w'umukobwa uri gukaraba ku iriba, amazi ajya mu ibasi y'umukara. Umwana akaba yambaye imyenda idoze mu bitenge, akaba asutse n'imisatsi mu buryo bwa kinyafurika.

Ni inama yigaga ku buvuzi ndetse n'uburyo abantu babona serivisi z'ubuvuzi ku buryo bworoshye hakaba harimo abantu bagiye batandukanye baturutse mu bihugu bike bitandukanye ku isi hakaba hagaragara abantu batanu harimo n'umugabo umwe uri gusuhuza undi.

Ababyeyi b'abamama bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko bahabwa serivisi z'ubuzima zinoze, barishimye kandi bari guseka abandi bari kuganirizwa ku buryo nabo bagira ubumenyi ku buzima ndetse no kumenya kwiyitaho.

Ni ivomero rifite ibara ry'ubururu rikaba rifite ahantu abantu bavomera rikaba rikikijwe n'abantu batandukanye baje kuvoma, hakaba hari umusore wambaye bote ndetse n'ingofero zabugenewe z'abubatsi, akaba ariko gukora isuku no gutunganya ivomero kugira ngo abantu bajye bavoma amazi meza.

Umwana w'umukobwa wunamye, ari kunywa amazi ku ivomero mu kigo, akaba yambaye impuzankano z'ishuri zisa ubururu, ari kunywa amazi akoresheje intoki ze.

Inama mpuzamahanga yiga ku buryo abantu bagerwaho na serivise z'ubuzima ku buryo bunoze kandi vuba. Ikaba yitabiriwe n'abantu batandukanye, abagabo n'abagore hakaba harimo abandi bantu batatu bicaye imbere ya bo bayoboye inama harimo umugore umwe.

Umwana wambaye agapira, akaba ari kuvoma amazi ku iriba rusange kugira ngo ayanywe, afite igikombe gikozwe mu cyuma gisizwe amarangi, arishimye kandi ari guseka. Amazi agira ingaruka nziza ku mubiri w'umuntu, akamurinda uburwayi n'ibindi.

Abana bane bari ku ivomero rusange umwe, ari kuvomera mujerekani y'umuhondo abandi bahagaze iruhande rwe undi umwe ahagaze iruhande rw'iburyo afite inkoni mu ntoki.

Ni umubyeyi wazanye umwana mutoya ku bitaro, kugira ngo ahabwe ubuvuzi, hari umuganga wambaye umwambaro wabugenewe wo kwa muganga ufite ibara ry'umweru, akaba ari kumuha ubuvuzi, amusuzuma kugira ngo abashe kwitabwaho agire n'ubuzima bwiza.

Ni abaganga bambaye impuzano z'umweru, bahagaze nk'abari gufata ifoto y'urwibutso, bikaba bigaragara ko biteguye guha ubuvuzi abantu bose babagana. Barishimye kandi barimo baraseka.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, ari kumwe n'umugore wambaye igitenge, umugabo afashe icyapa kiriho abantu babiri, umugabo n'umugore, cyerekana ko bose bagomba kugira uburenganzira bungana kuri serivisi z'ubuzima.

Ni umwana w'umuhungu ukiri mutoya, akaba aje kuvoma amazi ku iriba rusange, imbere ye hari ibivomesho bitatu bifite ibara ry'umuhondo, yambaye ipantaro ihinnye y'umutuku, akaba yambaye n'agapira k'umweru, uyu mwana aba yaturutse iwabo aje kuvoma amazi meza kugira abone icyo ayakoresha iwabo mu turimo twabo twa buri munsi.

Kw’ivomero hari umubyeyi ndetse n'abana baje kuvoma hari amabase manini y'amabara agiye atandukanye ndetse hakaba hari n'ibijerekani by'umuhondo bivamo amavuta.

Mu cyumba cy'inama ku meza y'ibiganiro abantu babiri ru ruhande rw'ibumoso, n'abandi bantu babiri ku ruhande rw'iburyo, hakaba hari undi muntu wicaye ku ruhande batandukanya bose ayoboye ibiganiro bari kwigira hamwe ku buryo abantu bashobora kugerwaho n'ubuvuzi ku buryo bworoshye kandi bitabagoye, bafite amatelefone imbere y'abo ndetse n'amakaye yo kwandikamo imyanzuro n'ibiri kuvugirwa mu nama.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura ry'amazi kikaba kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Ni abantu babiri bari ku ivomero rusange, bigaragara ko umwe ashaka gukorera undi nyuma y'uko amaze kuvoma, amaze kuvomera mu ndobo y'icyatsi, akaba agiye kuyajyana iwabo kugira ngo ayakoreshe mu mirimo yabo ya buri munsi.

Ni abana bari kumwe n'abandi bantu bakuru bari ku ivomero rusange bari kuvoma amazi, biragaragara ko bavoma amazi meza, hasi hateretse amajerekani y'abantu baje kuvoma bagiye batandukanye, hakaba harimo abana ndetse n'abantu bakuru.

Ni abantu batatu harimo abana batoya babiri ndetse n'umukobwa umwe bigaragara ko afite igikuriro, afite ikivomesho kinini kiri mu ibara ry'umuhondo, yaje kuvoma ku iriba rusange, baje baturutse ahantu hatandukanye bashaka amazi meza yo gukoresha mu mirimo yabo ya buri munsi.

Ni abantu bari mu nama bakaba bari no guhugurwa ku buryo abantu bashobora kugera ku buvuzi ku buryo bworoshye, binyuze mu nzego zigiye zitandukanye bari mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari amazi bambaye imipira isa y'icyatsi n'umweru.

Umwana uryamye ku gitanda kwa muganga, akaba ari guhabwa ubuvuzi n'abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru, umwe akaba yambaye ingofero y'umweru, iruhande rwe hakaba hicaye n'umubyeyi wambaye igitenge, akaba yiteze n'akantu mu mutwe.

Umubyeyi uteruye umwana mutoya yamuzanye ku ivuriro kugira ngo asuzume uburwayi bwe maze akire, hari umuganga uri kuvura uwo mwana akaba yambaye umwambaro wabugenewe.

Ni umuntu uri gukaraba ibiganza byombi, ku mazi ku iriba rusange kugira ngo yikure imyanda mu ntoki kugira ngo yirinde indwara zikomoka ku mwanda, uba wagiye ku ntoki ze.

Ni abantu bicaye bazengurutse imeza bakaba bambaye imyenda itandukanye y'amabara umwe yambaye ubururundi, undi yambaye icyatsi undi yambaye umweru undi uhagaze yambaye umuhondo bikaba bigaragara ko bari kujya inama mu nzego z'ubuzima.

Ni umugore uri kuvoma amazi mabi atemba mu kijerekani akaba n'undi mugabo uri koza igare hafi y'umugezi amazi atembera muri wa mugezi. Hirya yaho hari ibishanga ndetse n'ibyatsi.

Umuganga wambaye itaburiya n'uturindantoki tw'umweru akaba yambaye imyambaro imurinda mu maso ndetse no ku munwa kugira ngo atandura indwara zandura akaba ari gusuzuma umusaza wambaye ingofero inyuma y'umusaza hakaba hari umwana.

Ni abana batoya bambaye impuzankano z'ishuri, bakaba bari imbere y'ivomero bakaraba bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune, bigaragaza ko bari kwirinda indwara zikomoka kugira umwanda ndetse no kugirira umwanda intoki zabo.

Mu nyubako yo kwa muganga, harimo umuganga wambaye imyambaro yabugenewe, hakaba harimo imashini, ni ikimenyetso kerekana ko abantu bashobora kugera kuri serivisi z'ubuzima, mu buryo buboroheye.

Ni mu nyubako y'ibitaro aho abantu bagana kugira ngo bahabwe ubuvuzi bakeneye, hari umugore wicaye wambaye imyambaro y'ubururu akaba ari kuvurwa n'umuganga wambaye imyambaro y'umweru, akaba ari kumwe n'undi mugabo wambaye imyambaro y'umweru w'umuganga, ufite ibipapuro mu ntoki.

Ni ku ivomero rusange aho abantu bagiye baturuka ahantu hatandukanye ndetse n'imihanda yose baje kuvoma amazi yo gukoresha mu ngo zabo, asukuye kandi meza birinda indwara ishobora gukomoka ku mazi mabi.

Ni ku iriba, hari abana bari kumwe na mama wabo, bafite indobo bose, hakaba hari undi mwana umwe bari kogereza ku iriba, biragaragara ko hari amazi meza kandi akabasha kugerwaho.

Ni umwana w'umukobwa, wicaye ku ivomero rusange, yitegeye ivomero, ari kureka amazi akamugwa mu ntoki, ari guseka. Hirya ye, hari ibivomesho bisa umuhondo ndetse n'ubururu.

Ni umumama wazanye umwana we mutoya kumuvuza, muganga ari kumusuzuma, ari kumukora ku matama yumva nimba afite umuriro, akandika bitewe n'ibimenyetso umwana ari kigaragaza, inyuma ye hari abandi bantu bakeneye serivisi z'ubuzima nabo b'abamama.

Ni umwana w'umukobwa wambaye impuzankano zo mu mabara y'ubururu akaba ari ku ikarabiro ari gukaraba amazi meza kugirango ngo yirinde indwara zishobora gukomoka ku mwanda

Ni ku iriba rusange aho abantu baza bakavoma amazi baturutse imihanda yose hariyo abana bazengurutse iriba, hakaba hari n'ikivomesho kiri kujyamo amazi.

Umwana w'umuhungu ufite umusatsi mukeya, yambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ikabutura, akaba ari gukaraba ku iriba rusange. Hirya ye hari indobo y'ubururu hakaba inyuma ye hari ibiti byinshi bifite ibara ry'icyatsi.

Ni igikoresho gifite amacupa kwa muganga babikamo umwuka bongerera abarwayi igihe baba batagishoboye guhumeka neza, ayo macupa asa ubururu akaba afunze neza, bigaragara ko umurwayi wahagana adashoboye guhumeka yahabwa ubuvuzi neza akarushaho kugira ubuzima bwiza.

Ikirango cy'umuryango w'abibumbye wita ku bana kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu kikaba giharanira ko umwana wese agira ubuzima bwiza kandi agahabwa n'uburere.

Ni ku iriba rusange hari umwana umaze kuvoma, yasutamye ashaka kwikorera. Hari undi mugabo ku ruhande wegereye iriba, ufite ingata mu ntoki. Hirya yaho hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Ni abantu baje gushaka ubuvuzi, hakaba hari umubyeyi wambaye igitambaro mu mutwe, uteruye umwana mutoya, uwo mwana akaba ari kuvurwa n'umuganga, amusuzuma kugira ngo arebe ubuvuzi yahabwa.

Ni ku iriba rusange, aho abantu baza kuvoma baturutse impande n'impande, hari umuntu waje kuvoma, arunamye, ari kuvoma, akoresheje ikivomesho gisa umuhondo, imbere ye hari akandi kavomesho ku'mweru gato, hari amavomero atatu, kuri iri riba kandi hazengurutswe n'ibyatsi bigiye bitandukanye, bifite ibara ry'icyatsi.

Abaturage bicaye nk'abari mu nteko bari guhugurwa ndetse banabagezaho uburyo bashobora kugera kuri serivisi z'ubuzima ku buryo bworoshye harimo aba papa, aba mama ndetse n'abana.

Ishusho iriho umugore ukora mu nzego z'ubuzima ikaba iriho insanganyamatsiko ivuga ko, abantu bagomba gushaka abafatanyabikorwa kugira ngo batume serivisi z'ubuzima zigera ku bantu bose kimwe kandi mu buryo bworoshye.

Ni abaganga bambaye imyambaro yabugenewe, bakaba bafite igipapuro mu ntoki, bakaba bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari mudasobwa bari gushyiramo amakuru bari gufata, hakaba hari abandi bantu na bo baje gushaka serivisi z'ubuzima kugira ngo babashe kugira imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwiza.

Ni abantu baje kwivuza bicaye ku ntebe, bakaba ari abamama batatu bakurikiranye, umwe uri imbere bamwambitse igikoresho cyifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso, akaba yambaye igitenge, akaba ateze n'ikindi mu mutwe, akaboko ke kakaba kambitswe icyo gikoresho. Bikozwe n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'igitambaro cy'umukara.

Ni abana bafite uruhu rwirabura bambaye imipira y'ubururu, iriho ibirango by'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kwita ku burenganzira ndetse n'ubuzima bwiza bw'abana n'impunzi bakaba bishimye.

Ni abantu bari mu cyumba cy'inama, imbere yabo hakaba hateretse amazi, bicaye ku ntebe nziza zabugenewe, imbere yabo hakaba hari insakazamashusho, bari kuganira ku buryo ubuvuzi bugera ku bantu ku buryo bworoshye kandi bwizewe.

Ni abana batoya bari mu mpuzankano z'umweru, hakaba hari ibikoresho byabugenewe bibikwamo amazi byo kunywa kandi meza, bari kuza ari benshi bafite ibikombe kugira ngo babone amazi yo kunywa.

Abantu batandatu bicaye imbere bigaragara ko bayoboye ikiganiro mu nama igamije kurebera hamwe uburyo abantu bose ku Isi, aho bari batandukanye bashobora kubona serivisi z'ubuzima ku buryo bworoshye.

Ni abantu bicaye bari mu nama bakaba kuganira mu mibereho myiza mu imbere hari amazi, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bakaba bari mu nama yiga ku mibereho myiza n'ubuzima muri rusange.

Ni abana batoya bari ku ivomero rusange. Harimo umwana w'umukobwa uri guseka uri kuvoma, akoresheje ibivomesho bisa umuhondo, yambaye ingutiya, akaba yambaye n'agapira k'amaboko magufi, ari guseka. Akaba n'undi mwana w'umuhungu, uhagaze inyuma y'uruzitiro rw'ibiti rw'ivomero, abafasha kuvoma kugira bacyure amazi meza iwabo bayakoreshe.

Abagore bamaze guhabwa serivisi z'ubuzima, bambaye amajiri y'icyatsi, bakaba bangana na mirongo itatu, abandi bakaba bambaye imyenda hejuru y'umuhondo, bakaba bambaye ibitenge, bakaba bahagaze imbere y'inzu.

Ni abantu bagiye batandukanye harimo abagabo n'abagore, bicaye mu buryo bw'amatsinda mu cyumba cy'inama, bakaba bari kwigira hamwe uburyo ubuvuzi ndetse n'ibindi bisa na byo bishobora kugera ku baturage ku buryo bworoshye kandi vuba.

Umubyeyi uhetse umwana, inyuma ye hakaba hari abandi bana birabura bari guseka, akaba yambaye amadarubindi, bakaba bigaragara ko bari guhabwa neza serivisi z'ubuzima.

Abana bane bari kuvoma ku ivomero rusange, bigaragara ko abantu batuye muri kano gace babona amazi abafasha mu mibereho myiza yabo no kugira ubuzima bwiza, iyi ifoto ikaba iriho abana babiri bari ku ruhande rw'iburyo n'undi umwe uri ku ruhande rw'ibumoso n'undi uri kuvoma.

Ni abana babiri umwe arunamye afite isabune mu ntoki ari gukaraba amazi ajya mu ndobo, undi afite igikoresho cyabugenewe bashyiramo amazi ari kumusukira kugira ngo akarabe neza.

Umuganga w'umugore wambaye impuzankano y'umweru, ndavuga itaburiya yera, wambaye ipantaro y'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki, ari kwigisha abaturage iby'imibereho myiza. Abaturage bicaye bamuteze amatwi.

Abagabo benshi bicaye kwa muganga bategereje serivisi z'ubuzima bambaye imipira y'umweru bamwe bambaye ingofero abandi ntago bambaye ingofero.

Ni abantu benshi baturutse imihanda yose baje gushaka amazi meza kui iriba rusange hakaba hari umwana uri imbere wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ikabutura y'umukara akaba ari kuvoma amazi meza kugira uyajyane mu rugo iwabo bayakoreshe mu mirimo yabo ya buri munsi banoza isuku kandi barusha no kugira ubuzima bwiza.

Inama nkuru y'igihugu iri kwiga gushora imari mu nzego z'ubuzima, ikaba irimo abagore n'abagabo bicaye baganira, imbere yabo bafite amazi ndetse n'ibikoresho byabugenewe.

Inyubako yubakiwe abana ku nkunga y'imiryango mpuzamahanga kugira ngo bajye babasha kugera kuri serivisi z'ubuzima ku buryo buboroheye hari abana benshi bishimye bazamuye amaboko bambaye impuzankano z'umuhondo nyuma y'uwo muryango hari abagabo n'abakobwa b'uruhu rwera n'urwirabura.

Umusaza wicaye hasi wambaye umupira utukura yambaye ikabutura amaboko ye azirikishije ibyuma, bigaragara ko yafashwe n'inzego z'umutekano nyuma yo gukora ibyaha, ashungiriwe n'abantu benshi ndetse n'abantu bo mu nzego z'umutekano.

Ni abana bahagaze bigaragara ko bari kurira basa nk'abari gusabiriza kubera imibereho itari myiza, ntago bishimye, umwe yifashe mu gahanga abandi bari gusabiriza undi wagira ngo ari gusaba imbabazi muri makeya ntago afite ibyishimo afite agahinda.

Ni isuzuma rusange riri gukorerwa ku bantu bose, aho bari kubareba, basuzuma ubuzima bwabo bwo mu mutwe. Hari abantu bagiye batandukanye, umwe agiye yicaye, ari kumwe n'umuganga uri kumwitaho.

Ni ishusho yamamaza iriho amagambo yanditse mu cyapa mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, ivuga ku munsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umwana w'umukobwa ufite ubuzima bwiza, ubwo umutwe. Ari guseka, arishimye, arikurya biswi. Yicaye ku ntebe, akaba afite n'imisatsi iboshye. Yambaye ishati y'umweru, n'ijipo isa n'ubururu bwijimye. Bigaragara ko ari impuzankano y'ishuri.

Ni umunsi mpuzamahanga w'indwara ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, bikaba bigaragara ko wateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, hakaba harimo abantu batandukanye bari gusangira ibitekerezo.

Ni umukobwa wambaye ipantaro, akaba yambaye hejuru umwambaro uciye amaboko w'umukara, afite imisatsi y'umukara, ari guseka, arishimye, bigaragara ko afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe, nta gahinda ahubwo afite ibyishimo.

Ni igishushanyo cyerekana uburyo kwiyahura bigenda kugabanuka mu gihugu cy'u Rwanda, mbere y'umwaka bibiri na kabiri, kugeza mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani, kiri mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku werurutse.

Ni abantu bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cya Kacyiru, hakaba harimo inzego z'umutekano, n'abandi bantu bambaye imyambaro isanzwe, harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari bamaze kuganira ku ndwara zo mu mutwe ndetse n'ubuzima bwiza.

Umuntu wicaye kumuhanda bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe akaba iruhande rwe hari amacupa akaba yambaye imyenda isa nabi, kandi yicaye kumuhanda inyuma ye hari n'abandi bantu bari kugenda.

Umukobwa wambaye ishati itukura, ndetse n'ipantaro itukura, akaba yambaye n'ingofero, n'undi wambaye imyenda y'umukara ahantu hose akaba afite n'imisatsi isanzwe, akaba yambaye amadarubindi, ari kugira inama mugenzi we, anamuhumuriza, kugira ngo areke kwiheba, kugira ngo arwanye ibirwara, ndetse n'ibibazo byo mu mutwe ashobora kugira.

Ni umuntu wambaye imyanda ku mubiri we wose, akaba ari ahantu bamena imyanda, uwo muntu bikaba bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, akeneye ubuvuzi.

Ni umugore wicaye ku ntebe, wambaye igitambaro mu mutwe, akaba yambaye n'ijipo akaba areba ku ruhande rw'iburyo bigaragara ko ari kwitekerezaho.

Ni umugabo wirabura wicaye hasi asutaraye akaba yambaye imyenda yamucikiyeho arasa nabi, afite amashashi ndetse n'amazi mu ntoki bigaragara ko afite ubumuga n'uburwayi bwo mu mutwe.

Inama yateguwe n'Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, hakaba hari umugore ufite indangururamajwi uri gusobanura neza ubuzima bwo mu mutwe, ndetse n'uburyo bwasigasirwa bukanavurwa binyuze muri iki kigo k'igihugu.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi ufite ubumuga bwo mu mutwe, akaba ari kumuganiriza, amwitaho kugirango abone uko amuvura. Akaba yambaye ikanzu y'ubururu.

Icyapa cy'ibara ritukura cyateguwe n'ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima hakaba ari ingingo yanditse mu magambo y'umweru ndetse n'umuhondo, ivuga ku buzima bw'abana b'ingimbi n'abangavu n'ubuzima bwabo bwo mu mutwe.

Ni urubyiruko, rwambaye imipira y'ubururu bwererutse, bakaba bamaze kwigishwa, imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, bari kumwe n'abandi bantu babiri, bigaragara ko ari bo babafashaga banabahugura, mu gihe bari bari hano hantu.

Ni ikirango kiriho amabara y'icyatsi ndetse n'umukara, kiriho amagambo ashishikariza abantu kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Abantu bagiye batandukanye abahungu abasore, aba mama, n'abagabo bicaye bakoze uruziga bakaba bari guhugurana ku buzima bwo mu mutwe bakaba bicaye ku ntebe ngufiya zikoze mu biti.

Ni umuntu wicaye ashyize inkokora ku meza afatishije ibiganza bye umutwe afite agahinda, iruhande rwe hari undi muntu uri kumuhumuriza amuba hafi amufashe akaboko kugira ngo agahinda ke gashire.

Umugore ufite uruhu rwirabura, yicaye ku musambi uzinze, hari umunyururu ufashe ku giti umuziritse ku kiganza, yambaye igitenge yambaye n'agapira, yifashe nk'umuntu ufite agahinda, afite umusatsi w'umukara kandi akikijwe n'ibiti byinshi.

Ni umubyeyi uteruye akana kakiri gatoya bose bari guseka kandi barishimye, yegereye inzu bahisha amatafari ahiye, bose bambaye imipira irimo ibara ry'umweru, ikaba ari ifoto yafashwe n'ikigo gishinzwe ubuzima ku rwego rw'isi.

Ni umuntu bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, akaba yambaye imyenda yacitse umubiri wose, yikoreye ibishashi umubiri wose, inyuma ye hakaba hari imodoka y'igikamyo.

Umusore wambaye umupira w'umweru hejuru, ugaragara igice cyo hejuru ari guseka, afite akadodo gatoya kifashishwa mu gukura imyanda hagati y'amenyo igihe yafashemo ari kurya, abikora kugira ngo yirinde indwara zikomoka ku kugirira umwanda amenyo.

Umuganga wasamishije umuntu akaba ari kumuvura indwara zo mu kanwa. Umuganga yambaye uturindantoki tw'umweru akaba yambaye n'itaburiya y'umweru akaba afite imisatsi. Iruhande rwe hari abandi baganga nabo bari mu kazi.

Ni igikoresho cyo kwa muganga, kifashishwa bari kwiga uburyo bakura amenyo n'uburyo bavura amenyo arwaye mu ivuriro, hari umuganga uri kwerekera undi muntu uburyo bikorwa.

Ni umuganga ufite uruhu rwera, uri kuvura umurwayi ufite uruhu rwirabura, ari kumuvura indwara z'amenyo, akaba yamwasamishije, ari kureba ikibazo amenyo ye afite.

Ni umugabo uri guseka yerekana amenyo y'umweru bigaragara ko ayitaho kandi akagirira isuku ubuzima bwe bwiza afite amadarubindi, afite ubwanwa ku matama yombi akaba yambaye n'umupira w'umweru ,akaba atunga agatoki ku menyo ye.

Mu nzu kwa muganga harimo imashini zitandukanye zifashishwa n'abaganga b'amenyo igihe bari gusuzuma umurwayi bareba ikibazo amenyo ye afite kugira ngo ahabwe ubushobozi n'ubuvuzi bw'ibanze cyangwa se gukuraho burundu uburwayi bwe mu menyo.

Ni abana bari ku ishuri, bishimye kandi bari guseka nyuma yo gusurwa bagahabwa ibikoresho byifashishwa mu koza amenyo, uburoso ndetse n'umuti wifashishwa mu gusukura ayo menyo kugira ngo bagire ubuzima bwiza, birinda indwara zishobora kuyibasira.

Ni igikoresho kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara gifashe ahantu habugenewe, kikaba gikoreshwa n'umuriro, kikaba gikoreshwa bavura amenyo.

N'icyumba cyo kwa muganga bavuriramo amenyo, ikaba iriho agatanda kabugenewe baryamishaho umuntu bagiye kuvura amenyo, hakaba hari itara ryabugenewe, intebe muganga yicaraho, imashini ndetse n'indi bikoresho byose byifashishwa igihe bari gusuzuma umuntu ubuzima bwe bw'amenyo.

Umukobwa ugaragara igice cyo hejuru afite uburoso bwabugenewe mu koza amenyo ndetse no kuyasukura kugira ngo birinde indwara zikomoka ku kugirira umwanda amenyo, arishimye kandi bigaragara ko afite ubuzima bwiza.

Umubyeyi mu cyumba cy'ivuriro ahavurirwa amenyo, ari kuvurwa n'abaganga babiri bambaye uturintoki tw'umweru, impuzankano z'umukara, agapfukamunwa k'umukara, ndetse n'undi akambaye ak'ubururu, afite ibirahuri byabugenewe bibafasha kureba neza uburwayi bw'uwabagannye, kugira ngo babashe gutahura uburwayi bwe ndetse anavurwe.

Ni umugabo uri guseka, ufite ubwanwa, yambaye agapira k'umweru hejuru, afatishije akadoda amaboko ye yombi, ari gukura imyanda hagati y'amenyo. Ari gukora ibi ng'ibi kugira ngo yirinde indwara zishobora gukomoka mu kugirira umwanda amenyo ndetse n'ibiryo biba byafashe hagati y'amenyo yabikora kugirango arusheho kugira ubuzima bwiza, yirinde indwara zikomoka mu kugirira umwanda amenyo.

Umurwayi urwaye amenyo ari kwa muganga aryamye ku gitanda, hari abaganga babiri bari kumuvura. Umwe ari kumumurika mu kanwa areba ikibazo amenyo ye afite, undi nawe ari gusuzuma areba amenyo ye niba arwaye ndetse n’ubuvuzi yahabwa.

Ni umusore uryamye ku gitanda cyabugenewe kwa muganga, ahatangirwa ubuvuzi bw'amenyo. Hakaba hari umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'umweru, akaba afite agakoresho mu ntoki kifashishwa mu gusuzuma amenyo, kugira ngo batange ubuvuzi bashingiye ku burwayi amenyo afite.

Ni umusore wishimye ari guseka, afite akadodo gatoya, ari kugakoresha asukura amenyo ye kugira ngo yirinde indwara, akabikora akuramo utwanda tuba twafashe mumenyo hagati ye.

Ni umugabo wambaye imyenda y'umukara bigaragara ko ari mu cyumba bogeramo, akaba ari koza amenyo, kugira ngo amenyo ye atazarwara indwara zituruka ku dukoko, bityo bikamugora yivuza.

Ni umwana uryamye kwa muganga, hakaba hari umuganga ufite ibikoresho byabugenewe, yambaye uturindantoki tw'umweru, akaba ari kumuha ubuvuzi bw'amenyo, areba ikibazo afite kugira ngo abashe kwitabwaho ahabwa imiti imufasha gukiza uburwayi bwe.

Ni umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuvura, agapfukamunwa, uturindantoki, akaba ari gukura iryinyo umurwayi waje umugana, ari kumwe n'undi muganga wambaye uturindantoki tw'umweru ndetse n'umwambaro w'ubururu hejuru.

Ni amahugurwa y'ubuzima bw'amenyo aho abaganga bari gusuzuma abantu uburyo amenyo yabo ameze, babahaye kurogate kandi buri murwayi wese uhari yambaye imyambaro y'icyatsi yanditseho amagambo y'umuhondo ngo tubiteho.

Ni umuntu wasamye utagaragara neza mu maso, afite agakoresho kabugenewe barambika mu menyo kugira ngo amenyo adapfa, kakaba gatuma umuntu atagira uburwayi bukomeye bw'amenyo, agafite mu ntoki arasamye ashaka kugashyira mu kanwa ke.

Ni umusore wirabura ufite umusatsi afatishije akado k'umweru intoki zombi arikogakoza mu menyo hagati akuramo imyanda kugira ngo yirinde indwara zituruka mu kugirira umwanda amenyo. Uyu musore ari kwirebera mu ndorerwamo kugira ngo arebe neza ko ibyo ari gukora biri kugenda neza.

Ni igikoresho cyo kwa muganga giteretse ku gitereko, kikaba gifite ibara ry'umweru, kikaba gikoreshwa mu gihe bari kuvura amenyo abantu bayarwaye bakaba bajya kwa muganga bagakoresha iki gikoresho babaha ubuvuzi bakeneye.

Umugabo uri gukoresha akadodo k'umweru gatoya, yihaganyura imyanda iba yafashe mu menyo, itabashije kuvamo igihe yiborosa, ahubwo akayikuzamo, akadodo gatoya kugira ngo agire ubuzima bwiza bw'amenyo.

Umuganga w'amenyo uryamishije umurwayi ku gitanda cyabugeneye kwa muganga, akaba yambaye umwambaro w'umweru n'agapfukamunwa k'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru, yasamishije umurwayi ari kumuvura indwara zo mu kanwa.

Umuganga uri kuvura umwana, umwana akaba yicaye ku ntebe, umuganga akaba arikumuvura amenyo muganga w'amenyo yambaye uturindantoki tw'umweruakaba yambaye agapfukamunwa kabugenewe kwa muganga, akaba yambaye itaburiya y'umweru, imbere hakaba hari impapuro ziriho ikaramu.

Iyi ni ishusho itangwa n'igikoresho cyo kwa muganga kireba mu imbere mu muntu, ikaba igaragaza imiterere y'amenyo ari mu bijigo by'umurwayi bareba imimerere yayo, kugira ngo babone icyo bamufasha igihe akeneye ubuvuzi.

Abana bicaye mu ishuri bishimiye ko babahaye imiti yo koza amenyo kugira ngo barusheho kwimakaza umuco w'isuku y'amenyo bityo babashe kugira ubuzima bwiza, bambaye impuzankano z'ishuri kandi bari guseka.

Ishusho yafashwe n'ibyuma byo kwa muganga byabugenewe igaragaza amenyo yo hasi ndetse n'ayo hejuru ikaba iri mu ishusho isa mu ivu ahandi ikaba isa nk'umukara.

Ni umugabo ufite uruhu rwirabura utagaragara mu maso neza, afite ubwanwa bw'umukara ku matama ndetse no ku munwa hejuru, akaba ari kwerekana amenyo ye ayasukura akoresheje agakoresho kabugenewe, akuramo imyanda yagiye ifata hagati y'amenyo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ni umusore wirabura ufite amenyo y'umweru, akaba arimo guseka ahumirije, yambaye umupira w'umweru, inyuma ye hakaba hafite ibara ry'umuhondo, bigaragara ko afite ubuzima bwiza kubera kugirira isuku amenyo ye.

N'umwana mutoya ufite uruhu rwirabura akaba yaje kwa muganga kwivuza uburwayi bw'amenyo , aryamye ku gitanda arasamye muganga ari kumurebera uburwayi amenyo ye afite akoresheje utwuma twabugenewe twifashishwa kwa muganga . Uyu muganga yambaye uturindantoki tw'umweru akaba yambaye impuzankano z'umweru akaba arebera mubirarahuri bimufasha kureba neza .Ntagaragara neza mumaso.

Ni umukobwa ufite uruhu rwiza akaba ari koza amenyo, yambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe akaba ari kwirebera mu ndorerwamo.

Ni umugabo wirabura uri guseka ufite amenyo y'umweru, ari gukoresha akadodo gatoya kabugenewe mu gusukura amenyo ye akuramo imyanda iba ifashe hagati y'ayo menyo, bigaragara ko afite ubuzima bwiza kubera kugira isuku amenyo ye.

Ni umukobwa mwiza urimo araseka yerekana amenyo ye, ari gukoresha igikoresho cyabugenewe mu gukura imyanda mu menyo hagati, afite amenyo y'umweru kandi arabagirana bigaragara ko ayitaho kandi agira isuku akaba atarwaye.

Ni abantu babiri bari guseka berekana amenyo, umwe ni umuhungu undi ni umukobwa bakaba bambaye bose imipira y'umweru bafite imisatsi bose.

Ni umukobwa uri gukoresha akadodo gatoya akura imyanda mu menyo iba yanze kuvanwamo n'uburoso kugira ngo yongerere ubuzima bwiza amenyo ayarinde gupfa.

Ni umukobwa wirabura uri guseka, akaba yahuje intoki ebyiri z'amaboko ye yombi, akaba ari kwerekana amenyo y'umweru, bigaragara ko yayagiriye isuku kandi akaba afite ubuzima bwiza.

Umwana mutoya uryamye, umuganga ufite ibikoresho byabugenewe wambaye uturindantoki tw'umweru agiye kumurebera ikibazo afite mu menyo, umwana ari guseka afite uruhu rwirabura.

Umusaza w'umwirabura wicaye, urambitse akaboko k'ibumoso ku kaguru k'iburyo, akaba yambaye igikoresho gikore kwa muganga bapima umuvuduko w'amaraso, akaba ari gukora kuri icyo gikoresho akoresheje akaboko ke k'iburyo.

Abantu batatu, harimo umumama umwe ukuze, n'undi mumama udakuze cyane, wambaye amarinete, akaba ari kumwe n'umwana mutoya, bose bakaba bicaye kandi bari guseka.

Hari umukecuru wicaye, urebera mu birahuri by'abantu barwaye amaso, afite umusatsi w'imvi, yambaye umupira w'umukara, akaba afite igikombe mu ntoki kirimo amazi yo kunywa, bikaba bigaragara ko akeneye kugira ubuzima bwiza kuko ageze mu zabukuru.

Umusaza ugeze mu za bukuru wicaye mu kagare akaba yifashe mu ntoki ari kureba umuganga we uri kumwitaho umuganga akaba yambaye ishati y'ubururu n'umwambaro w'akazi akaba ari gusekera umusaza bose bishimye bigaragara ko bishimiranye.

Ni aba mama batatu bakuze, umwe ari hagati afite telefoni bigaragara ko bari ahantu bitabwaho, bari kuganira bose bari kureba muri telefoni ifashwe n'umwe urimo hagati babiri bo ku ruhande bambaye ingofero.

Ni umusaza wicaye ku buriri n'igitanda cyiza, hakaba hari umukecuru ufite imvi warumuzaniye ikirahure ari kunywa amazi. Uyu mubyeyi ukuze yambaye umwambaro w'ubururu.

Ni umurwayi ukuze uri kugerageza kugendera mu mbago z'ibyuma kugirango arebe uko yakongera akamenyera kugenda kuko bigaragara ko amaguru ye atabasha kugenda neza, yambaye imyenda yo kwa muganga.

Ni mu isoko hacururizwa imbuto ndetse n'inyanya, hakaba hari abamama bageze mu zabukuru bicaye imbere y'inyanya, bigaragara ko aribo bari kuzicuruza.

Ni abagore babiri bigaragara ko bava myitozo ngoramubiri bari kugenda gahoro gahoro bigaragara ko bari kuruhuka ,umwe bigaragara ko akuze yiteza agatambaro gatukura mu mutwe, bikaba bigaragara ko afite ubuzima bwiza akesha gukora imyitozo ngororamubiri, abantu bageze mu myaka nkiyingiyi baba bakeneye imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu hejuru, afite ubwanwa ndetse n'umusatsi urimo imvi n'umukecuru wambaye umupira utukura ufite imvi, bari guseka barishimye ubona ko bari kwikinira kandi bafite ubuzima bwiza mu zabukuru, bakaba bakeneye kwitabwaho.

Ni umurwayi w'umusaza wicaye mu kagare, akaba ari guhabwa ubuvuzi, ari gucungwa n'umuganga w'umukobwa, wambaye impuzankano zabugenewe zo kwa muganga, akaba afite agakoresho mu ijosi, bakoresha bumva niba umutima w'umuntu ugitera neza.

Ni ababyeyi bageze mu myaka y'izabukuru, bakaba bari guseka kandi bishimye cyane bari gusarura icyayi gihenze kusa ubunini bashyira mu gitebo cyabugenewe. Icyayi ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu bizwiho ko byoherezwa mu mahanga kandi bikabanza kunyuzwa mu nganda kugira ngo ibashe kunyobwa no gukoreshwa.

Umugore w'imyaka y'izabukuru yicaye ku gatambaro mu ndabyo mu busitani, akaba yifashe ku birenge ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri we urusheho kumera neza kandi utemba itoto. Yambaye impuzankano ndetse n'imyambaro yabugenewe akaba yambaye n'ibirenge ari gukora iyo myitozo ngororamubiri.

Umusaza uri kuvurwa, afite ikirahure cy'amazi mu ntoki, akaba ari guhabwa imiti kugira ngo ayinywe, afite ubwanwa burimo imvi, akaba afite n'uruhara, ari kumwe n'umuganga, wambaye imyenda y'ubururu, uboshye imisatsi kandi ari kumuha imiti, ari guseka.

Ni umukecuru ufite inkoni mu kuboko kwe kw'iburyo, yambaye imyenda y'ubururu isa n'iya muganga w'umugabo ufite igikoresho cyabugenewe, mu kumva nimba mutima utera neza w'umurwayi, bose bakaba bishimye bari guseka bigaragara ko batanga serivisi nziza.

Ni umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru, afite inkoni aricaye, afite imvi zabaye uruyonga, ari gusangira n'utwana tubiri dutoya kandi urabona ko bishimye.

Ni abagore babiri hamwe n'umuganga undi ni u mu mama mukuru bigaragara ko arwaye uwo muganga ari kumusuzuma areba imiterere y'umubiri we kugira ngo arebe ubufasha yahabwa, yambaye agapfukamunwa kabugenewe n'amadarubindi.

Ni inyubako ibamo abantu bageze mu myaka y'izabukuru, hakaba harimo abantu bagiye batandukanye abakecuru ndetse n'abasaza, hari umusore wambaye imyenda yabugenewe y'abantu bakora muri ino nzu. Akaba afashe akagare kicayemo umusaza mu bigaragara bari kurya bari gusangira ifunguro, barishimye kandi bari guseka.

Umusaza wicaye ufite imvi mu bwanwa ndetse no mu musatsi, bikaba bigaragara ko bari kumufasha gukaraba kugira ngo bamukorere isuku arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi ugeze mu za bukuru uri kwitabwaho n'umuganga w'umukobwa wambaye impuzankano z'ubururu zabugenewe zo kwa muganga akaba ari guha imiti uwo mubyeyi ukuze, akaba afite n'amazi mu ntoki yo kuyinywesha.

Ni inzu irimo ibikoresho byifashishwa mu kwita ku bantu bageze mu myaka y'izabukuru, hari umugabo bigaragara ko bari kumufasha no kumenyereza kugenda, ageze mu myaka y'izabukuru, hari umuganga uri kumwitaho kubera ko aba atagishoboye kwiyitaho mu buzima bwe bwa buri munsi.

Abana bicaye mu nzu bari kumwe n'umubyeyi ukuze bakaba bari guseka hakaba harimo n'umwana umwe mutoya cyane ugereranyije n'abandi, umubyeyi akaba yambaye igitambaro mu mutwe.

Ni umusaza mukuru, ufite imvi, ateruye akana, yafashe izuru rye arishyira ku izuru ry'umwana mutoya, asa nkaho bari gukina. Umwana afite igikinisho mu ntoki, ibi bikaba ari byiza ku buzima bw'umwana ndetse n'umusaza.

Umumama ukuze ufite igikoresho bakoresha bagenda abantu bakuze akaba ari kumwe n'umukobwa ufite igikapu mu ntoki amufasha mu rugendo.

Umusaza n'umukecuru bishimye, umusaza aryamye ku rutugu rw'umukecuru yamusomye ku itama banafatanye ku rutugu, umukecuru ari guseka akaba yambaye igitambaro cy'umutuku mu mutwe.

Umusaza mukuru uri kwitabwaho n'umuganga w'umukobwa ukiri mutoya, afite telefone bari kumwigisha kuyikoresha, bicaye ku meza y'igiti kandi bigaragara ari gusobanukirwe uburyo bari kumubwira arishimye.

Abantu bicaye bigaragara ko bakuze, bari kwitabwaho n'umumama uhagaze wambaye imyambaro y'umukara, bakaba bicaye bose munsi y'inyubako mpimbano isa umweru.

Abakecuru babiri bicaye bari gusobanurirana uburyo banywa imiti, umwe yambaye umupira w'ubururu, undi yambaye umupira w'umutuku, imbere yabo hakaba hari ibinini.

Umusaza n'umukecuru bicaye imbere y'imeza, umusaza yambaye umupira w'ubururu, umukecuru yambaye umupira ndetse akaba yambaye n'impeta, umugabo ukuze afite icupa ry'umweru mu ntoki.

Ni umukecuru ugeze mu myaka y'izabukuru bigaragara ko akeneye kwitabwaho mu buzima bwa buri munsi. Ari kumwe n'umukobwa w'umuganga, akaba arimo gufasha uwo mukecuru gukora imyitozo ngororamubiri. Afite icyuma mu ntoki ari guterura kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza. Mu bigaragara barishimye kandi umuganga bari kumwe ari guseka.

Umusaza ufite uruhu rwera, akaba yicaranye hamwe n'abandi se n'abakobwa, bari guseka, harimo umugore umwe uri kuboha wicaye hasi, ku ruhande rwe hirya hakaba hahanitse imyenda, bicaye mu mbuga irimo ibyatsi.

Abakecuru bari mu za bukuru, bicaye bari kuganirizwa, bitabwaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bambaye ibitenge, abandi biteza ibitambaro mu mutwe.

Ni umusaza uri ahantu habugenewe, hafasha abantu kugenda, ari kumwe n'umuganga umwitaho mu buzima bwe buri munsi wambaye impuzankano z'umukara arimufasha kugenda, ari mu myaka y'izabukuru yambaye ikabutura y'umukara, umupira y'ubururu ndetse akaba afite n'uruhara.

Umusaza wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'amaboko magufi, akaba afite imvi, afashe umugozi w'umuhondo mu ntoki abifashijwemo n'umufasha we mu buzima bwe bwa buri munsi, bigaragara ko uyu musaza akeneye ubufasha kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye impuzankano z'ubururu bwererutse, akaba ari gufasha umusaza kugenda, uwo musaza bikaba bigaragara ko akuze.

Ni abantu batari benshi bari kugenda mu muhanda w'icyerekezo kimwe w'igitaka, imbere yabo hakaba hari abakecuru bakenyeye imishanana y'umweru, mu imbere bakaba bambayemo imipira y'umutuku. Umukecuru umwe afite imvi z'umweru undi yateze igitambaro cy'umukara mu mutwe bose bafite inkoni bari kwicumba, bigaragara ko batagifite imbaraga zo kugenda neza bakaba bakeneye kwitabwaho.

Ni ikirango kirambitse kigaragaza ibigo mpuzamahanga byita ku buzima amagambo ariko yankishije ibara ry'umukara ndetse n'iry'ubururu.

Ni ishusho iriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, ndetse n'icyatsi n'umukara hariho amagambo asobanura uko abantu bagomba kwirinda umubyibuho ukabije, ndetse na kanseri bikaba byarateguwe n'ikigo gikorera ku isi hose cy'ubuzima.

Abagabo babiri bo mu nzego z'ubuzima bari gutanga ibiganiro bijyanye no guhagarika icyorezo, bakaba bambaye amakoti bose uko ari babiri, imbere yabo hakaba hateretse ibyuma ndangururamajwi ndetse inyuma yabo hakaba hari n'icyapa cy'ubururu.

Hari abantu batandukanye bagiye baturuka impande zose. Abagabo n'abagore bari kwigira hamwe ku mategeko agenga ubuzima, ndetse n'ubumenyi ku buzima ku bantu bose.

Ni ishusho igaragaza abahungu babiri ndetse n'abakobwa babiri bafite udukingirizo mu ntoki, baka bashishikariza abantu gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye bakoresheje udukingirizo, kugira ngo birinde indwara ndetse n'izindi mpanuka zishobora guturuka mu mibonano mpuzabitsina idakingiye.

Ni igishushanyo kirimo amagambo y'umuhondo n'umweru, hakaba harimo ijambo Rwanda, hakaba hari umugabo wicaye, imbere ye hakaba hari abana, bisa nkaho ari kwigisha.

Inama mpuzamahanga ibaye ku nshuro ya makumyabiri na kabiri yiga ku bufasha buhabwa Afurika k’ ubuvuzi bw'indwara zandurira mibonano mpuzabitsina, ikaba yitabiriwe n'ibihugu bitandukanye ku isi.

Ababyeyi bafite abana batoya bigaragara ko baje kwa muganga kugira ngo bahugurirwe banigishwe ku bijyanye n'imibereho myiza, ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange harimo kuboneza urubyaro, kwita ku bana babo, kugaburira neza abana babo, konsa, ndetse n'ibindi bituma bagira ubuzima bwiza.

Ni umuntu uryamye ku gakoresho kabugenewe bikaba bigaragara ko ari guhabwa ubufasha bw'ibanze, hakaba hari n'abakonabushake bari kumwe n'abaganga bari kwigishwa uburyo batanga ubuvuzi bw'ibanze, mbere y'uko umuntu wakoze impanuka ahabwa ubuvuzi kwa muganga.

Hari abantu bicaye abandi bahagaze bakaba bambaye imyenda itukura abandi babiri ntabwo bambaye imyenda itukura, hakaba hari imeza iteretseho udukoresho tw'ubururu, abantu bahagaze bakaba bafite udukapu tw'umweru mu ntoki.

Ni igifuniko cy'igitabo cy'abarimu, cyifashishwa mu kwigisha abana ubuzima bw'imyororokere ndetse n'imibonano mpuzabitsina, uburyo bakwitwara.

Amahugurwa yateguye arimo abantu b'ingeri zitandukanye by'umwihariko urubyiruko, bigaragara ko bishimye biga kwita ku buzima bwabo ndetse n'amategeko abarengera mu by'ubuzima.

Abantu benshi bateye ahantu hamwe, hakaba hari umugore uri gufata umuvuduko w'amaraso, umukobwa wicaye uboshye imisatsi, kugira ngo barebe uburyo ahagaze, abashe kuba yahabwa n'ubuvuzi, yaba akeneye. Imbere ye hari indangururamajwi, bigaragara ko bari kwigisha abantu uburyo bashobora kugira ubuzima bwiza, bakanagera kuri serivise z'ubuzima.

Uducupa udukoresho two kwa muganga dukoreshwa bapima indwara tukaba dupfundikijwe n'imipfundikizo y'icyatsi hakaba hariho n'amabara atukura ndetse n'umweru.

Abagabo bicaye imbere y'abandi bigaragara ko bayoboye inama y'ubuzima, y'isuku n'isukura. Bakaba bambaye amakoti, abandi bambaye ibitenge, abamama barimo.

Ikirango cy'ikigo gishinzwe gusura imibereho myiza n'ubuzima bwiza, kiba gifite ikirango kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, n'ibiganza bibiri bifatanye mu ntoki.

Ni inyubako yo kwa muganga imbere yayo hahagaze abantu, ifite igisenge cy'amabati, ifite inkingi z'amatafari ahiye, ikaba isize irangi ry'umweru amagambo yanditseho akaba ari mu ibara ryijimye.

N i inzu yo kwa muganga yitwa isange, aho bakira abantu bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kugira ngo basuzumwe ndetse banitabweho bityo bize koroha kugira ngo babashe gukurikirana ababahohoteye.

Ni inyubako yo kwa muganga ahatangirwa ubuvuzi bugiye butandukanye, ku cyumba kibagirwarwamo indembe, hariho umuryango munini mugari wagutse, ufite ibara ry'umweru ndetse n'ibirahure bibiri, hejuru hakaba hariho icyapa ndanga kiri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Ni mu nyubako yo kwa muganga icyumba kirimo imashini zigiye zitandukanye, mudasobwa, intebe zo kwicaraho zifashishwa mu gusesengura ndetse no kureba amakuru y'abarwayi ndetse no kubitaho kugira ngo bagire serivisi nziza.

Mu nyubako y'ivuriro icyumba kirimo igikoresho cyifashishwa mu gutahura ndetse no gusesengura amakuru y'abarwayi, kikaba hari mudasobwa ikorana n'iki gikoresho. Iki gikoresho kikaba gikoresha ikoranabuhanga rya mukuruzi, ndetse kikaba gikenera n'ingufu z'amashanyarazi kugira ngo gikore. Iki gikoresho ni cyiza cyane kubera ko cyifashishwa mu kuvura abantu bafite imvune.

Ni mu nyubako y'ibitaro, aho buri muntu wese uje ugana ashaka ubuvuzi bugiye butandukanye, abanza kunyura kugira ngo bamuyobore aho agiye kandi agire n'ibyo akemura mbere y'uko ajya guhabwa ubuvuzi.

Ni mu nyubako ngari y'ibitaro ahatangirwa ubuvuzi, hakaba hari inzira nyabagendwa y'abanyamaguru itwikiriye, hakaba hari imbangukiragutabara ndetse n'indi modoka imwe, hakaba hateye ibiti birimo imikindo ndetse n'ibyatsi bikurura umwuka mwiza mu bitaro.

Ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho ikaba izengurutswe n'ibyatsi by'icyatsi kibisi, hakaba hari inzira nyabagendwa, ikaba ifite amarangi y'umuhondo ndetse n'amadirishya y'ibirahuri.

Ni mu nyubako kwa muganga hari umuganga wambaye umwambaro w'umweru akaba yambaye agapfukamunwa k'umukara, ari gukoresha mudasobwa asuzuma ndetse asesengura amakuru kugira ngo abashe gufasha abarwayi, si nibyo gusa hari n'izindi mashini ziri muri iyo nyubako yo kwa muganga.

Inyubako yo kwa muganga ababyeyi babyariramo yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakajwe n'amabati y'ubururu, imbere yaho hateye indabyo z'icyatsi, ikaba isize irangi ry'umweru.

Ni inyubako yo kwa muganga ifite amarangi y'umweru hakaba hari umuntu mu nzira uri mu igare ry'abantu bafite ubumuga bwo kutagenda, hirya yaho gato hakaba hariyo n'ikigega cy'umukara n'undi muntu uri kugenda mu nzira.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga, mu cyumba kirimo ibikoresho bye bitandukanye, byifashisha ingufu z'amashanyarazi kugira ngo bikore neza. Bikaba byifashishwa mu kuvura ndetse no gutanga ubufasha igihe hari kuvurirwa abantu indwara zigiye zitandukanye.

Ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari igorofa imbere y'aho hateye ibiti, hari imodoka zitandukanye zazanye abantu kwivuza, hakaba hari imodoka z'imbangukiragutabara zifashishwa mu gutwara abarwayi igihe barembye.

Mu nyubako y'ibitaro ahatangirwa ubuvuzi. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi ndetse no gutahura indwara abarwayi bafite. Hari ibikoresho byabugenewe bikwamo imyanda, hari intebe zabugenewe zicirwaho n'abarwayi kugira ngo babahe ubuvuzi, harimo ndetse kandi n'insakazamashusho na mudasobwa bikoresha ingufu z'amashanyarazi.

Ni inyubako yo kwa muganga, imbere yayo hari imodoka, ikaba imbere yayo hari abantu bane, ikaba ifite amabati y'ubururu, ikaba isize amarangi y'umweru.

Ni umurwayi uryamye mugitanda kwa muganga, akaba yegereye imashini zabugenewe kwa muganga, bakoresha bavura baha abantu ubuzima bwiza, yambaye imyenda yera azamuye ikiganza kandi arimo araseka bigaragara ko ahabwa ubuvuzi bwiza, arimo koroherwa.

Icyapa kerekana ikigonderabuzima cya Matyazo kikaba kiri mu ibara ritukura ndetse n'umweru, hari ikirango cy'u Rwanda. Iruhande rw'iburyo hari abanyamaguru barimo baragenda mu muhanda ndetse hepfo yaho hari umuhanda nyabagendwa w'imodoka.

Ku bitaro bya rwamagana imbere hahagazeho abagore n'abagabo b'abirabura, ndetse n'abafite uruhu rwera bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma y'imikoranire myiza.

Ni mu nyubako y'ibitaro mu byumba birwariramo abarwayi, harimo ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi ku barwayi. Harimo umukobwa uri gutambuka wambaye impuzankano z'icyatsi kibisi, bigaragara ko akora mu bitaro.

Ni mu nyubako y'ibitaro ahatangirwa ubuvuzi bugiye butandukanye harimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura abantu, ahabikwa imyanda, mudasobwa, insakazamashusho ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa igihe bari kubaga abantu barwaye.

Umuryango winjira mu kigo nderabuzima cya kigina, hakaba hari umuntu uhetse umwana ari kumuhoza hakaba hafunguye umuryango umwe kikaba gisakajwe n'amabati y'ubururu.

Umwana mutoya uteriwe na mama we muganga ari kumuvura amusuzuma areba nimba ntakibazo afite bari mu nyubako y'ivuriro, kandi uwo muganga yambaye imyambaro yabugenewe agapfukamunwa, ndetse n'ingofero yo mu mutwe.

Ni inyubako igurirwamo imiti igiye itandukanye, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye bitewe n'icyo umuntu arwaye, inyubako ifite ibirahure ikaba isize amarange agiye anyuranye harimo n'ay'umweru.

Umuganga uvura abana, akaba ari kuvura umwana uryamye mu gikoresho cyo kwa muganga bakoresha bavura, uwo mugabo akaba yambaye ingofero y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru.

Iyi n'inyubako yo kwa muganga irimo amatara y'umweru hakaba harimo imashini zabugenewe ndetse n'utubati twabugenewe tubikwamo ibikoresho byo kwa muganga bigaraga ko dufite amazina hakaba hari n'inzira itagize ikintu na kimwe iriho.

N' inyubako yo kwa muganga itunganyijwe neza ibigaragara ni icyumba cy'abarwayi ibitanda bishashe neza mu mabara y'ubururu n'umweru hakaba harimo amatara asa nezakaba hasa neza kandi nta muntu n'umwe urimo.

Ni inyubako y'igorofa y'ivuriro igeretse kabiri, niho abantu bajya kugira ngo bahabwe ubuvuzi, isize amarangi y'ubururu, ikaba isakaje amabati asa ubururu nayo, imbere yayo hari abantu bi bitabira ko baje kwivuza ndetse hakaba hari n'imodoka imbere yayo.

Ni mu nyubako yo kwa muganga, irimo intebe zibaje mu biti, hakaba harimo imeza iteretseho mudasobwa, ku ruhande rw'iburyo hakaba hari imiti iteretse ku meza ndende, ikaba isize amarangi y'umweru inzu yose.

Iyi ni inzu y'ikigo nderabuzima cya Tabagwe, ku ruhande rw'imbere ikaba irangwa n'amabara y'ubururu, hariho ijambo imbuto, ku rundi ruhande hakaba hariho ikirangantego cy'u Rwanda, hakaba hari n'abantu bigaragara ko baje gushaka ubuvuzi.

Mu nyubako yo kwa muganga hari abaganga batanu bambaye imyambaro yabugenewe y'umweru, imbere yabo hari ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresha igihe bari gukora ubushakashatsi ndetse banasuzuma indwara.

Ni inyubako yo kwa muganga i Kanombe igurirwamo imiti, ikaba iriho icyapa cy'amabara atatu, icyatsi, umukara ndetse n'umweru, umuryango urafunguye kandi barigutanga serivise z'ubuzima.

Ni hanze y'inyubako y'ivuriro, hari abamama bakuze babiri bari guhabwa ubuvuzi, bakoresheje igikoresho cyabugenewe, cyo ku ivuriro, gipima umuvuduko w'amaraso, hakaba hari umuganga wambaye impuzankano z'abaganga, uturindantoki tw'umweru, ndetse n'agapfukamunwa.

Ni inyubako y'ivuriro aho bavurira abana bakiri batoya baba barwaye, bagahabwa ubuvuzi bagasuzuma indwara barwaye, bityo bakarushaho kugira ubuzima bwiza.

Ni inyubako yo kwa muganga, imiryango yose irafunze, nta muntu uri kuyigendamo, hakaba hagiye hariho ibyapa kuri buri cyumba ndetse n'ikihakorerwa, ni inzu ifite amabara y'umweru ndetse n'ibihogo.

Ni inzu ikaba n'icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kuvura abantu, cyane cyane indwara z'umubiri, bikaba biteretse hasi, hakaba hateyemo amarangi y'umweru kandi n'amatara yaka.

Umuntu uryamye mu bitaro kwa muganga bigaragara ko arwaye, hakaba hari imashini zifashishwa kwa muganga baha umuti abantu bawunyunjije mu maraso kugira bakire indwara, umuntu aryamye yiyoroshe hagaragara umutwe gusa.

Iyi nyubako yo kwa muganga, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha bavura abantu, harimo ibikoresho bikoresha umuriro, hakaba harimo abaganga bambaye imyenda itandukanye, umweru ndetse n'ubururu, ni abantu batanu babarizwa muri iyi nzu.

Ni abantu bahagaze imbere y'icyapa cy'ibitaro bya butaro, hakaba harimo abantu bafite uruhu rwera ndetse n'abandi afite uruhu rwirabura. Bakaba bahagaze mu byatsi.

Ni mu nyubako y'ibitaro ahatangirwa ubuvuzi bugiye butandukanye, mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashisha ingufu z'amashanyarazi, hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru, akaba ari gutunganya ahantu abarwayi baryama kugira ngo batahure uburwayi bwabo.

Ni mu nyubako y'ibitaro, aho abarwayi baryama ndetse bakanaba igihe barwaye, harimo ibitanda baryamaho, utubati ndetse n'ibindi bintu byifashishwa igihe baba bari kuba mu bitaro.

Ni inyubako y'ivuriro rya Sangwa yubatswe mu buryo bugezweho, ni igorofa isize amarange y'umweru, ikaba ifite n'igice cy'ibirahure imbere yayo hari abantu ndetse n'imodoka.

Ni inyubako yo mu bitaro bya Ruhengeli, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu, baje gushaka ubuvuzi, kugira ngo barebe indwara barwaye, kandi bitabweho neza barushe kugira ubuzima bwiza.

Ni inyubako yo kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, imbere yayo haba hari imodoka na moto, hakaba hari idarapo ry'u Rwanda rifite amabara y'icyatsi n'umuhondo, hakaba n'abantu bari kumanuka amasikariye, mu igorofa ryo hasi hakaba hateye intebe abarwayi bashobora kwicaraho.

Inyubako ya isange iherere Remera Rukoma akaba ariho abantu bahaturiye, igihe bahohotewe cyane cyane abakobwa bajya bakavuga uburyo bahohotewemo, bagafashwa ndetse n'ababahohoteye bagahanwa mu mategeko.

Ibi ni bitaro bya Shyira, bikaba bisakajwe n'amabati atukura, ifite imireko yijimye, bikagira amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo, bikaba bisize irangi ry'umweru.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro harimo ibikoresho byo kwa muganga, harimo mudasobwa, harimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse no gusuzuma abarwayi kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze, harimo uburiri, harimo ifoto iriho ibyo kurya yometse ku gikuta.

Ni inyubako y'ibitaro bya nyarugenge ikaba ifite amabara y'umweru, imbere yo hakaba hari igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye, hakaba harimo n'inzira ikaba ifite indabyo ndetse n'igiti giteye imbere.

Ni mu nyubako y'ibitaro ahatangirwa ubuvuzi, ni icyumba kirimo ibitanda byifashishwa igihe bari kuvura abarwayi hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bikoresha ingufu z'amashanyarazi, hari n'ibyifashishwa mu kuvura abantu, aho babika imyanda ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Ni mu nyubako y'ibitaro, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje gushaka ubuvuzi baturutse ahantu hagiye hatandukanye, hakaba hari abarwayi baje gushaka ubuvuzi bicaye, hagiye harimo intera, bose bambaye ubupfukamunwa kugira ngo birinde kwanduzanya uburwayi.

Mu nyubako y'ivuriro ahatangirwa ubuvuzi bugiye butandukanye, mu cyumba kirimo umuganga w'umugabo uri gukoresha igikoresho cyifashishwa mu gutahura ndetse no gusesengura amakuru ku barwayi, cyane cyane abavunitse, iki gikoresho kikaba kifashisha ingufu z'amashanyarazi ndetse n'ikoranabuhanga rya mukuruzi mu gutahura uburwayi ababagana baje bafite kugira ngo bahabwe ubuvuzi.

Inyubako yo kwa muganga irimo igikoresho cyo kwa muganga gisa nk'umweru, hakaba harimo isaha ndetse iki gikoresho kikaba gikoresha amashanyarazi, hakaba harimo n'amatara y'umweru.

Ni mu bitaro byo kwa muganga aho abarwayi barwarira, harimo abarwayi baryamye, hari amadirishya afunguye ari kuzana umwuka mwiza aho barwariye hamanitsemo inzitiramibu, harimo amagare yifashishwa n'abantu batabasha kugenda neza..

Ni mu nyubako y'ibitaro ahatangirwaho ubuvuzi bugiye butandukanye, mu cyumba hari abarwayi babiri baryamye ku bitanda byabugenewe, hakaba hari abaganga babiri bari kubitaho, harimo n'ibindi bitanda bibiri bitaryamyeho abantu. Abaganga bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, uturindotoki tw'umweru ndetse n'imyambaro yabugenewe kwa muganga y'umweru.

Ni inyubako yo kwa muganga aho abagore babyarira, hakaba hari intebe abantu bicaraho, umuryango urafunguye, hakaba hari abantu babiri bari kunyura imbere y'iyo nzu.

Ni mu nyubako yo kwa muganga, icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byo kuvura abantu, hakaba hateye irangi ry'umweru harimo amatara, meza atuma abaganga babona igihe bari kuvura abantu.

Ni inyubako yo kwa muganga mo imbere harimo ibikoresho bakoresha bavura, n'imashini isa umweru ifashe ku butaka ndetse no hejuru, ikaba ari imashini bakoresha bah serivisi zinoze, abarwayi baje bagana ivuriro.

Inyubako yo kwa muganga irimo abasore n'inkumi bari gukora isuku mu nzu y'abarwayi n'indembe bakaba bafite ibikoresho byabugenewe by'isuku. Hakaba harimo n'abarwayi baryamye ku bitanda kwa muganga.

Inyubako yo kwa muganga yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifite n'amabara y'umweru ikaba ifite amatara imbere yayo, imber hakana hateye ibyatsi hakaba hari n'ikirere hejuru cy'ubururu ndetse n'igicu cy'umweru.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho byabugenewe mu kuvura indwara ndetse no kuzisuzuma, bita ku gutanga serivisi zinoze. Inzu irimo mudasobwa ikaba irimo ibikoresho bifite amapine, harimo utubati tubikwamo n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Inyubako yo kwa muganga irimo abaganga batatu, hakaba hari umurwayi uri kuvurwa aryamye ku gitanda kwa muganga. Harimo imashini zigiye zitandukanye zifite amabara y'umweru kandi n'abaganga barimo bambaye imyenda yabugenewe y'ubururu ndetse n'umwambaro ubarinda umutwe w'icyatsi.

Mu nzu yo kwa muganga harimo imashini zitandukanye zifashishwa basuzuma, ndetse bareba uburwayi abantu bafite kugira babone uko bahabwa ubuvuzi bukenewe.

Ni inyubako y'ibitaro byitiriwe umwami FAISAL, ibarizwa i Kigali mu Rwanda. Hakaba hari amadarapo agiye atandukanye, harimo n'idarapo ry'u Rwanda rifite amabara y'icyatsi, umuhondo, ndetse n'ubururu, hakaba ari ahatangirwa ubuvuzi bugiye butandukanye ku barwayi.

Ni inyubako yo kwa muganga isize amarangi afite amabara agiye atandukanye; icyatsi, ubururu, umuhondo, ndetse n'andi menshi hakaba harimo amatara, hakaba arimo mudasobwa, ikaba ifite amadirishya asize amarangi y'ubururu ndetse n'amadirishya y'ibirahure.

Mu nyubakuru yo kwa muganga aho abarwayi bavurirwa hakaba harimo ibitanda biryamyweho n'abarwaye, hari umuganga w'umugore wambaye umwambaro w'umweru wabugenewe akaba ari gusuzuma uburwayi bw'umwe uryamye aho ngaho muri iyo nzu kugira ngo abone uko ahabwa ubuvuzi

Inyubako yo kwa muganga ibitsemo ibikoresho bigiye bitandukanye, ndetse n'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ndetse no kuyigabanyiriza ubukana, n'ibindi. Muri iyi nyubako nta muntu urimo, kandi amatara arimo araka.

Mu nyubako yo kwa muganga umurwayi w'umugore uryamye ku gitanda akaba arimo aravurwa n'umuganga w'umugore wambaye uturinda ntoki tw'umweru ndetse n'umwambaro w'umweru, akaba yambaye amadarubindi afite n'umusatsi w'umukara.

Inzu zo kwa muganga imbere yayo hari ibyatsi ndetse n'indabyo, hakaba hari icyapa kirangira abantu aho bashobora gusanga serivisi bakeneye, hakaba hari n'igiti kinini cy'inganzamarumbo.

Aha ngaha ni mu nyubako yo kwa muganga hakaba hari abaganga bahagaze imbere y'imashini z'ibyuma, hakaba hari amatiyo ajyana imiti abaganga bose, bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki tw'umweru.

Ni inyubako mu bitaro aho ababyeyi babyarira abana, ikaba ifite amadirishya y'ibirahure asize irangi ry'icyatsi, inyubako ikaba isize irangi ryera, ikaba ifite imireko isize irangi ry'icyatsi, imbere yayo hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Ni inyubako yo kwa muganga, akaba ari hanze mu nzira y'abanyamaguru itwikiriye irimo abaganga babiri bari kugenda bambaye imyambaro yabugenewe. Aha kandi hatangirwa ubuvuzi ku bantu barwaye bakabasha kwitabwaho bakagira ubuzima bwiza.

Inyubako y'ivuriro, ahatangirwa ubuvuzi bugiye butandukanye, kikaba ari icyumba kirimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kureba ndetse no gusesengura amakuru y'umurwayi, hakaba hari akabati kabikwamo amakuru agiye atandukanye ndetse n'intebe ishobora kwicaraho umuntu.

Inyubako yo kwa muganga harimo imashini zigiye zitandukanye bakoresha bari kuvura abarwayi bita ku buzima bwabo kandi banasuzuma ibibazo bafite, ni icyumba kigari kirimo isaha hakaba harimo n'igikuta gisa ubururu n'umweru.

Ni abagore batatu bambaye imyambaro yo kwa muganga, isa ubururu. Bakaba bambaye ingofero z'umweru, inyuma yaho hakaba hari; ibiti by'icyatsi n'umukindo ndetse n'indabyo.

N'inyubako yo kwa muganga iriho inyuguti z'ubururu ndetse n'umweru, hakaba harimo umukozi ubishinzwe, aka baka ariho abarwayi banyura igihe bari kwinjira n'igihe bari gutaha.

Ibitaro bikuru bya gisirikare, aho abantu bavurirwa, byubakishije amatafari ahiye, bifite amadirishya asize amarangi y'umweru, imbere yabyo hari imodoka irimo abantu bikagaragara ko hari n'abantu bari kwinjirayo baje guhabwa ubuvuzi, hino y'aho hari indabyo zifite amaba y'icyatsi n'umuhondo.

Ni umugabo uryamye mu nzu yo kwa muganga, akaba aryamye ku gitanda cyabugenewe, akaba yambaye ikabutura, akaba akikijwe n'imashini zo kwa muganga, yambaye nanone agapfukamunwa kari no muri serumu.

Ni inyubako yo kwa muganga kikaba ari icyumba gikorerwamo ubushakashatsi bwakifashishwa mu gukora imiti ndetse no kuzamura ubuvuzi muri rusange kugira ngo abantu bajye babonera ku gihe kandi bwizewe.

Inzu yo kwa muganga babyariramo ikaba ifite amabati y'ubururu ikaba yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifite inzugi zisize amarangi y'umweru.

Ni inyubako y'ivuriro aho abantu bayigana kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'indwara barwaye ikaba yubatswe mu buryo bugezweho imbere yayo hari inzira zinyuramo imodoka ndetse n'inzira z'abanyamaguru zifasha abantu kuhagera mu buryo bworoshye kandi byizewe imbere hari ibiti bakaba n'ibyatsi imbere yayo.

Ni ivuriro ryubakishijwe amatafari ahiye rikaba rifite imiryango isize amarangi y'umweru ndetse n'ibirahure, iri imbere y'umuhanda abantu bashobora kujyayo kugira ngo bahabwe ubuvuzi ndetse banitabweho kugira ngo bakomeze kugira imibereho myiza n'ubuzima bwiza.

Umuntu bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, yunamye afashe ku mavi, yambaye inkweto zabugenewe zisa icyatsi cyerurutse, akaba yambaye n'isaaha ku kuboko kw'iburyo.

N, umugabo bigaragara ko yamenyereye gukora imyitozo ngororamubiri imbereye hateretse indyo yuzuye amagi, umutobe w'imbuto, amazi, inanasi, inyama, ndetse n'ibindi bigaragara ko yamenyereye gukora imyitozo ngororamubiri kandi afite ubuzima bwiza kubera afata indyo yuzuye.

Ni ishusho y'ibimenyetso bitandukanye; umuntu wifashe ku mutwe uri kuribwa, umuntu bayi guha ubutabazi bw'ibanze, umuntu uri kuruka muri tuwarete, umuntu uryamye, umuntu wicaye ku ntebe kubera agahinda ndetse n'ibindi.

Ni umuntu uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye agasumi ku ijosi, akaba ari kunywa amazi akojeje icupa ry'ubururu ku mutwe amazi akaba ari kimwe mu kinyobwa cyiza ku muntu uvuye muri siporo kikaba kimurinda umwuma.

Inzu ikurirwamo imyitozo ngororamubiri harimo abahungu babiri, umwe aryamye ku gikoresho cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri n'undi na we ari kumufasha kugira ngo ayikore neza. Hakaba hari ari ibikoresho byinshi muri iyi nyubako ifasha gukora imyitozo.

Umuganga uri kuvura umwana wicaye ku bibero bya mama we, muganga amufashe ku mutwe, ari kumwasamisha, agira ngo amusuzume indwara. Inyuma ye hari abantu babiri: umuhungu n'umukobwa, bambaye upfukamunwa.

Ni ibikoresho byabugenewe bitwarwamo ubuvuzi ndetse n'ubutabazi bw'ibanze, bikaba bifite ibara ry'umutuku, hakaba hagiye hariho akamenyetso k'agasaraba gatukura.

Umukobwa wambaye imyambaro yabugenewe y'umukara, ndetse n'inkweto ari gukora imyitozo ngororamubiri, amaboko ye abiri afashe ku kaguru, akandi kaguru ke karahinnye, bigaragara ko abimenyereye kandi afite ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye isaha bigaragara ko avuye muri siporo akaba ari kunywa amazi akaba yambaye umupira w'ubururu akaba atagaragara mu maso neza agaragara igice kimwe cyaguyenko butere ndetse n'izuru.

Ni umusore wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara n'inkweto zabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yicaye hasi afashe ukuguru kwe kw'iburyo, akora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zishobora kumwataka zigiye zitandukanye, arusheho no kugira ubuzima bwiza.

Umusore mwiza w'ibigango wambaye umwambaro w'umukara akaba yicaye hasi ari kuruhuka nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri ari kunywa amazi kugira ngo yirinde umwuma.

Ni umusore wicaye mu ntebe yabugenewe kwa muganga akaba ari guhabwa ubuvuzi ku kaguru bigaragara ko yavunitse, ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru bigaragara ko ari kumufasha, bari mu nzu isize amarangi y'umweru ndetse n'akabati karimo gasa umweru.

Ni mu nzu y'imyitozo ngororamubiri, harimo umugabo uryamye hasi, ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari mu nzu irimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu gukora iyi myitozo, akaba yambaye ikabutura y'umukara, akaba yambaye n'inkweto zabugenewe, ibi ni byiza ku mubiri w'umuntu kubera ko bimufasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Ni umukobwa ukiri mutoya urikwinanura akoresheje amaboko ye abiri. Yambaye imyambaro yabugenewe y'umukara. Akaba yicaye ku buriri. Mu bigaragara yamenyeye gukora imyitozo ngororamubiri, kandi akaba ari imwe mu nama tugirwa n'abashinzwe iby'ubuzima kugira ngo dusigasire ubuzima bwacu, twirinda indwara zigiye zitandukanye. Harimo n'imivuduko y'amaraso, ndetse n'ibindi.

Ni umuhungu wambaye imyenda yabugenewe afite ibizigira afite amaboko manini ndetse n'amaguru manini bigaragara ko akora imyitozo ngororamubiri afashe ku mfundiko ze akaba afashe no ku kirenge cye bigaragara ko agize ikibazo akaba akeneye ubuvuzi kugira ngo imvune agize ikire.

Ni umuganga wambaye impuzankano z'ubururu, akaba yambaye agapfukamunwa k'ubururu uturindantoki tw'ubururu, akaba yambaye igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu kuvura ndetse no ku buryo umutima w'umuntu utera, ari kureba muri mudasobwa yifashishwa mu gusesengura amakuru ndetse no kuyabika, imbere ye hakaba hari ibitabo bitandukanye biteretse ku meza, hano hantu havurirwa indwara zitandukanye harimo no kuvura abantu bavunitse ndetse n'izindi ndwara z'umubiri.

Ni umugabo uryamye yubitsinda inda bigaragara ko ari guhabwa ubuvuzi, nyuma yo kugira impanuka ari mu myitozo ngororamubiri akaba ari kwitabwaho ahantu yagize ikibazo hejuru y'agatsinsino.

Ni ibiganza bi bifashe igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu kuvura abantu bagiriye impanuka muri siporo, iki gikoresho kikaba gisa umukara.

Umusore wambaye ikabutura n'umupira w'umukara by'imyitozo ngororamubiri bigaragara ko ari gusimbuka, akaguru kamwe kakaba gateretse ku kintu gifite ishusho rya kare isa umukara, akandi gatetse hasi.

Umusore wirabura, wambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri, akaba ari no gukora iyo myitozo ngororamubiri, yifashe ku mutwe, afite umubiri wamenyereye gukora imyitozo ngororamubiri , amaboko manini, igituza kinini, ndetse n'amaguru yabimenyereye

Umuntu uri gukora siporo akaboko niko gafashe mu ivi akandi gafashe kumano akandi kaguru y'agahinnye kuri sima akaba yambaye agasengeri no muri salon harimo intebe z'umweru.

Umukobwa n'umuhungu bavuye mu myitozo ngororamubiri bari kuruhuka, umuhungu yicaye ku ntebe, umukobwa ahagaze ari kwinanura, umuhungu ari kunywa amazi, imbere yabo hateretse ibikapu bibiri by'umukara.

Umugabo wicaye akaba ari kuvurwa ikirenge bigaragara ko yavunitse ubwo yari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba bamuziritse igitambaro cy'umweru ku kirenge kugira ngo akire.

Abantu babiri batagaragara neza mu maso, umwe ari kugendera ku mbago zigezweho zimufasha kugenda, undi afite imipira mu ntoki, umwe muri yo ukaba ari umupira w'amaguru, bakaba bambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri ni inama tugirwa na muganga kugira ngo twirinde indwara zigiye zitandukanye.

Ni umuganga washyize ibiganza bye bibiri ku ivi ry'umuntu bigaragara ko yavunitse akaba ari guhabwa ubuvuzi kugira ngo akire. Umuntu uri kumuvura yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'igikoresho cyo kwa muganga bakoresha bumva nimba umutima utera neza, akaba amurambitseho ibiganza bye bibiri.

Umuntu wagize impanuka yo gukora imyitozo ngororamubiri avunika ku kirenge bari kumuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akire. Yicaye ku gitanda kwa muganga bari kumufasha.

Ni igikoresho cyo kwa muganga bigaragara ko ari imashini ifite ibara ry'umweru, ikaba yifashishwa mu gufasha abantu mu bijyanye n'imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri ukora siporo, akaboko kamwe gafashe ku mano akandi gafashe ku mugongo, afite imisatsi y'umukara akaba ari kureba hasi, akaba yambaye isengeri ndetse yambaye n'ipantaro.

Ni igikoresho cyo kwa muganga, gifasha umuntu wagize imvune yo mu kaguru, kugenda ava ahantu hamwe cyangwa ajya ahandi. Kikaba giteye nk'inkoni, hejuru hakaba hariho ahantu bafata. Gifite ibara ry'umukara gishinze hasi kandi gifite igicucucucu cyayo.

Umuhungu ukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kunywa amazi azamuye akaboko, isura yo ntabwo igaragara neza, yambaye umupira w'ibihogo.

Ni umuntu uri ukora imyitozo ngororamubiri hafi y'amazi akaguru kamwe karambitse hasi akandi yakazamuye yagafatishije ukuboko kwe. Ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Ni umugore wicaye arambije ibirenge, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye imyenda y'ubururu bwerurutse, akaba yunamye, ibiganza bye biri hejuru y'amano.

Ni abantu benshi baturutse imihanda yose ahantu hatandukanye, harimo abana, abakuru ndetse n'urubyiruko, bakaba bari gukora imyitozo ngororamubiri rusange, bambaye imyambaro itandukanye ifite n'amabara atandukanye.

Igikoresho ngororamubiri baterura cyegeranye n'icupa ry'amazi, imbuto z'ubwoko butandukanye harimo, voka, pome, kokombure, amaronji n'ibindi.

Ni igikapu gifite ibara ritukura gifite imifuka myinshi. Kirafunguye kirimo imikasi gitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho ushobora kwifashisha mu kuvura umuntu wavunitse cyangwa se wababariye akanakomerekera mu myitozo ngororamubiri. Kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa rero mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze igihe wagize ikibazo mu myitozo ngororamubiri.

Ni ishusho iriho ibiganza bine biri mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku, amagambo nayo n'umukara, bikaba byerekana uburyo bambika, ikanazingira akenda ku kaboko k'umuntu wavunitse cyangwa se imitsi yikanze igere kuri myitozo ngororamubiri cyangwa se yaguye.

Ni inkweto ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, hakaba harimo umugozi wo gusimbuka, inkweto, hakaba hari imbuto z'amoko agiye atandukanye zifasha umuntu ugukora imyitozo ngororamubiri kugira ubuzima bwiza.

Ni imbuto zigiye zitandukanye zigira ingaruka nziza ku mubiri w'umuntu, harimo amagi, inkeri, imineke ndetse n'ibindi byifashisha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu. Hakaba hari n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri babiterura.

Umusore ufite amaboko manini, wambaye insengeri y'umukara, yicaye hasi arambije afashe ku mano ye. Arigukora imyitozo ngororamubiri kandi ikaba igira ingaruka nziza ku mubiri wacu, uturinda indwara zirimo umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibindi.

Itsinda ry'abantu bari muri siporo rusange bari ahantu hamwe bigaragara ko hari umuntu umwe uri kubakoresha, bambaye imyambaro itandukanye. Siporo ni nziza ku mubiri cyane cyane mu kurwanya indwara nk'umuvuduko ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Ni umusore wambaye umupira w'umweru akaba yifashe ku kaboko bigaragara ko yavunitse akaba yaje ku bitaro kugira ngo ahabwe ubuvuzi kugira ngo uburibwe ndetse n'imvune afite bikire.

Ibikoresho byo kwa muganga bikoreshwa bareba umubiri w'umuntu ndetse n'imimerere y'umubiri w'umuntu, harimo metero, harimo udukoresho baterura, hakaba hari n'umuganga ufite urupapuro ari kwandika ibisubizo ari kubona nyuma yisuzuma.

Ni icyuma cyo kwa muganga cyifashishwa mu kureba imiterere y'umuntu n'uburyo umubiri w'umuntu umeze, bakaba bakifashisha kugira ngo barebe uburwayi bw'umuntu abashe guhabwa ubuvuzi, gifite amabara y'umweru kikaba gikoreshwa n'amashanyarazi.

Hari imidari bambika abantu bahize abandi gukora imyitozo ngororamubiri, hari ibinini, hari icupa ry'amazi, hari metero, hari imbuto z'amoko agiye atandukanye, inanasi, indimu, imineke ndetse n'ubunyobwa, byose bikaba byongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Ni ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi ndetse no kugabanya uburibwe bw'umuntu wagize impanuka ari kugenda agatsikira akavunika akaboko cyangwa se akaguru cyangwa se bikaba byamubayeho ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gukina ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri, yaba ari imikino y'amaboko ndetse n'iy'amaguru, byose hamwe bikaba bifasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye, harimo nk' imimivuduko y'amaraso, ndetse n'izindi ndwara zikomoka mu kudakora imyitozo ngororamubiri.

Ni umugabo wicaye uri guterura igikoresho cyabugenewe gifasha umuntu gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kumwe n'umugore uri kumufasha gukora iyo myitozo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza. Muri iyi nyubako harimo n'ibindi bikoresho byinshi nk'amazi yo kunywa ndetse n'ibindi.

Ni umusore wambaye ibirenge uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura y'umukara ndetse no hejuru yambaye umukara. Akaguru kamwe karapfukamye akandi agashinze ku butaka bigaragara ko umubiri wamenyereye, kandi afite ubuzima bwiza kubera gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wicaye hasi w'ibizigira, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye ipantaro y'umukara, inkweto zabugenewe, inyuma ye hakaba hateye ibyatsi.

Umusore wambaye imyambaro yabugenewe, inkweto, ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'ubururu, ari kuruhuka nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi kugira ngo yirinde umwoma.

Umukobwa uri ukora imyitozo ngororamubiri yicaye hasi ahinnye amaguru ahinnye amaboko imbere hari ibikoresho byabugenewe bakoresha mu myitozo ngororamubiri, akaba ari kureba muri mudasobwa.

Abantu bane bapfukamye bari gufasha umuntu uryamye ahantu h'ubururu ahabwa ubuvuzi bw'ibanze nyuma y'uko amaze kuvunika amaguru ndetse n'ibindi bice by'umubiri akaba guhabwa ubuvuzi bw'ibanze bamuzirika amaguru ndetse n'ibindi.

Umuntu uri kwirukanka akora imyitozo ngororamubiri, haba hari ishu, hakaba hari karoti, hakaba hari pome, hakaba hari ironji, hakaba hari imbuto zifite amabara agiye atandukanye.

Ni ishusho iriho abantu batatu bari gukina bambaye imyambaro y'umuhondo ndetse n'umutuku ndetse n'uturindantoki twabugenewe, hakaba hariho amagambo yandikishije mu nyuguti z'umweru ndetse n'ibari ry'icyatsi, bavuga ko imyitozo ngororamubiri ishobora kubaho mu mahoro kandi birinda impanuka.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga gifite ibara ry'umweru, hari umurwayi uryaye ku gikoreshasho cyo kwa muganga gikoresha ikoranabuhanga rya mukuruzi, mu gutahura amakuru y'uburwayi burimo imbere mu mubiri, cyane cyane igihe umuntu yavunitse, cyangwa se bashaka kureba mo imbere mu mubiri ikibazo yaba afite. Kikaba kifashishwa mu gutahura uburwayi bwe, no kugira ngo avurwe neza.

Ni akambaro bambika abantu bahuye n'impanuka muri siporo, kugira ngo bongere bagarure ubuzima bwabo bwiza. Kari mu ibara ry'umweru, ubururu, ndetse n'umuhondo.

Ni amacupa atatu y'umuti bashyira ku mvune igihe abantu bagize impanuka bari imyitozo ngororamubiri, ikaba igabanya uburibwe mu ngingo ndetse n'aho umuntu yaba yavunitse aho ariho hose.

Umugabo w'umwirabura uri kunywa amazi afatishije akaboko kamwe akaba afite ubwanwa bukeya akaba ari kunywa amazi asa neza mu icupa rya palastike afite uruhu rw'abirabura kandi mu maso ntihagaragara.

Umukobwa wambaye impuzankanoza z'imyitozo ngororamubiri, akaba ari hafi y'ikiyaga, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri ari no kwitekerezaho ni inama tugirwa n'abaganga kugira ngo dushe kugira ubuzima bwiza twirinda indwara zigiye zitandukanye harimo umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi nyinshi.

Ni abantu babiri bari mu nzu yabugenewe ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, bambaye mu buryo bujyanye n'igikorwa barimo, bambaye inkweto zabugenewe, ipantaro ndetse n'umupira, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa muri iyi myitozo ngororamubiri.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri akaguru kamwe karambitse hasi akandi yakazamuye hejuru agafatishije amaboko ye yombi abiri, yambaye imyenda y'umukara, ikabutura ndetse n'isengeri.

Ni amashusho yafashwe n'ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kureba indwara zifata mo nk'imbere mu muntu, ikaba igaragaza igihanga cy'umuntu kirimo ubwonko akaba akoreshwa mu kureba uburwayi umuntu afite kugira ngo abashe kuvurwa neza.

Ni umusore utagaragara neza mu maso, akaba afite uru rwirabura, yambaye agapira k'amamoboko maremare k'umukara k'abantu bakora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri, iyi ni inama imwe bagira abantu kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Ni kwa muganga harimo umuganga umwe bigaragara ko uri gusobanurira abandi ubuvuzi ngororamubiri, hakaba hari abarwayi iruhande rwe bice ku bitanda n'abandi bagabo babiri bambaye amataburiya n'umwe wambaye ikote bari gusobanurirwa.

Ni umukobwa wicaye hasi ku gakoresho kabugenewe asobekeranyije amaguru, ameze nk'uri kwinanura mu maso ntabwo agaragara neza. Imbere ye hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibituma abasha guterura ibiro bye, amazi yo kunywa ndetse n'ibyo guterura, ari kurebera muri mudasobwa imyitozo ngororamubiri ari gukora.

Mu cyumba gitangirwa ubuvuzi ku bantu bagize imvune harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi harimo igitanda cyabugenewe umurwayi aryamaho kugira ngo ahabwe ubuvuzi, igihe yatsikiye, igihe igufawa ryavuye mu mwanya wayo kugira ngo amere neza. Harimo intebe muganga yicaraho harimo n'ibindi bikoresho bye bitandukanye nka mudasobwa yifashishwa mugusesengura amakuru no gutahura uburwayi bw'umurwayi.

Ni ikirenge cy'umuntu gishinze amano hasi, bigaragara ko cyavunitse kikanaba gikeneye ubuvuzi bwihariye kugira ngo kibashe gukira.

Ni ibiganza bibiri byambaye uturindantoki tw'umukara, byose bikaba bihuriye ko bipfutse igikumwe gusa izindi ntokibntabwo zipfutse, tukaba ari uturindantoki twifashishwa igihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri aterura, kugira ngo azane ibizigira kandi azane mu gituza hanini n'amaboko akaraze.

Imiti ya siporo ipfunyitse mu buryo bumwe, aka mbere kakaba gafite ibara ry'umuhondo, aka kabiri kakaba gafite ibara ry'umutuku, akaga tu kaba gafite ibara ry'icyatsi, aka kane kakaba gafite ibara ry'ubururu, aka gatanu kakaba gafite ibara ry'umukara.

Umukobwa ukiri mutoya arigukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye imyenda yabugenewe, yicaye hasi ari kugorora umubiri, imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane ku mubiri w'umuntu kubera ko imufasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo iteye mu bihuru, ikaba iri kumwe n'ibiti bitoya, bikaba biteye mu butaka kandi ikigaragara ni ku manywa.

Imiti irambitse hasi, harimo ibinini ndetse n'indi miti gakondo y'ibyatsi, yifashishwa bari kuvura kugirango ngo abantu bongere bagire ubuzima bwiza, imwe muri yo ifite amabara y'umuhondo indi n'icyatsi kibisi.

Imiti gakondo iri mu macupa agiye atandukanye harimo icupa ritukura harimo icupa ry'umuhondo harimo amacupa y'umweru, amacupa magufi harimo amacupa y'icyatsi kandi yose hamwe ateretse ku murongo.

Ni amacupa agiye atandukanye apfundikiye arimo imiti yagiye ikamurwa mu byatsi gakondo ikaba yifashishwa kuvura indwara zigiye zitandukanye z'umubiri.

Amacupa abiri ateretse rimwe ripfundikije umupfundikizo w'ibihogo, irindi ripfundikije umupfundikizo w'umuhondo, akaba yegeranye hariho ibishushanyo by'umuti gakondo w'igikakakarumba.

Ni amacupa arimo ibara ry'umuhondo ndetse n'ibikarito biri mabara y'icyatsi, umweru, ibihogo ndetse n'umutuku, ifasha mu kubika umusaruro ukomoka ku bimera gakondo, harimo amavuta akomoka ku kimera gakondo bita igikakarubamba, kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo iz'uruhu ndetse n'izindi.

Ni ibimera bikaba n'imiti gakondo yifashishwaga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zikaba ziteye mu bibumbano bitandukanye ikaba ubwoko bw'ibimera umunani ufite amabara y'icyatsi n'umuhondo, bikaba bivura indwara zigiye zitandukanye.

Icupa ry'umuhondo rinini ripfundikishije umupfundikizo utukura, ryanditseho amagambo mu ibara ritukura. Rikaba ririmo umusaruro ukomoka ku bimera ndetse n'umuti gakondo wifashashwa mu kuvura indwara zi zitandukanye z'uruhu ndetse n'izindi. Ukaba ukunze kwitwa igikakarubamba hamwe nabe mu rwanda.

Ni icupa ry'umweru, ryandikijweho amabara y'icyatsi, hakaba hariho ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo n'iz'amenyo, cyakoreshwaga n'abakurambere bacu, ndetse n'ubugubu kikaba gikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni umuti gakondo uteye, bita umuravumba, wakoreshaga cyane n'abakurambere, usibye ko n'ubu gikoreshwa, ukaba uvura inkorora ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Uyu muti urarura cyane, ariko ukanavura cyane.

Irerero ry'imiti gakondo, ahari ibiboho birimo imiti gakondo ifite ibibabi by'icyatsi bakunze kwita imiravumba, ifasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo n'inkorora, yakoreshwaga n'abakurambere bacu ndetse n'ubundi ikaba igikoreshwa, hari icyapa kigaragaza umumaro wayo ndetse hakaba hari n'abandi bantu benshi bari gutembera muri iri rerero.

Ni igikoresho gakondo kirimo ibimera gakondo bikoreshwa nk'imiti bakaba bagitunganyirizamo iyo miti kugira ngo ifashe abantu kuvura indwara zigiye zitandukanye z'umubiri ndetse n'izo mu nda.

Ibibabi by'imiti isoromwe byegereye agasekuro gakozwe mu mabuye ndetse n'agahini kifashishwa mu gutunganya iyo miti. Iyi miti gakondo ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye z'umubiri.

Ni miti gakondo itagaragara neza ifite amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'agasekuru gatoya bakoresha bari gusekura imiti ifasha abantu. Iyi miti yose irambitse ku gasambi gatoya.

Ni ikimera giteye mu butaka, gifite uruti rutoya gifite ibibabi by'icyatsi kandi bitoshye byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, cyifashishwa mu kuvura indwara kera mu bakurambere, ndetse nubu kikaba kigikoreshwa hamwe na hamwe.

Ni amacupa abiri, rimwe ry'umuhondo ndetse n'iry'umweru, hakaba hariho ibishushanyo by'ikimera gakondo, gikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo n'iz'uruhu kikaba gikoreshwa na none mu gukora amavuta abantu bisiga kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ni umuti gakondo umeze nk'umuravumba, ukaba warifashishwaga n'abanyarwanda ba kera, mu kuvura indwara zitandukanye, harimo inkorora ndetse n'ibindi, uyu muti ugira amazi arura cyane.

Ni imiti gakondo iri mu bikarito indi ikaba iri mu macupa abiri atandukanye, icupa rimwe risa umuhondo, irya kabiri naryo risa umuhondo, igikarito kiba gifite amabara y'umweru, umukara, ndetse n'icyatsi.

Ni icupa ry'amavuta riri mu ibara ry'ubururu, akaba asigwa ku ruhu rw'umuntu, akaba akomoka mu bimera gakondo byifashishwa nk'imiti ivura uruhu.

Amashusho agaragaza imiti gakondo y'ibyatsi, ndetse n'amacupa ishobora kubibikamo igihe imaze gutunganywa, iyo miti ikaba ifashashwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo izo mu nda, iz'uruhu, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni imiti gakondo yo muri Afurika iri mu mashusho atandatu gafite amabara y'icyatsi, indi ikaba isa umuhondo hakaba hari akamenyetso karanga kanasobanura icyo iyo miti ivura.

Ni ibikarito by'imiti biri mabara y'umweru n'umutuku n'umuhondo, akaba ari imiti gakondo ikomoka mu bihingwa bisangwa mu ishyamba cyane cyane imbuto ikaba ikungahaye mu isukari kandi ikaba yongera imbaraga z'umubiri.

Ni ikibabi cy'ikimera cyifashishwamo umuti gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, cyakoreshwaga n'abakurambere bacu mu myaka ya kera, ariko n'ubungubu bamwe na bamwe baracyagikoresha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ikimera gakondo kikaba giteye mu butaka ahegereye inzu, gifite uruti rutoya, gifite ibibabi bibiri bigiye biteganye bitoshye bisa icyatsi, bigaragara ko byaguyeho imvura, byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni imiti gakondo ikaba iri mu macupa y'umweru, amacupa atatu, rimwe ry'ikirahure andi atatu ya palasitike apfundikijwe impfundikizo y'umweru. Ariko harimo n'ibara ry'umuhondo.

Icupa ry'umweru ricuritse ripfundikiye rikaba rishyirwamo umuti umaze gutunganywa, ukomoka ku bimera, ukaba ari umutifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu, iyo umaze gutunganywa bawusiga ku mubiri bityo indwara zitandukanye z'uruhu zigakira.

Iki ni igiti cy'umuti gakondo bita igikakarubamba, kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo inzoka ndetse n'ibindi. Kifashishwa none mu gukora umuti w'amenyo, gukora amavuta ndetse n'ibindi.

Ni igiti gakondo gifite ibibabi by'icyatsi byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo n'inkorora, bakaba bacyita umuravumba. Cyakoreshwaga n'abakurambere bacu ba kera mu Rwanda ndetse na n'ubungubu kikaba kigikoreshwa ahantu hamwe na hamwe.

Ni ibimera, bikaba n'ibiti byifashishwa mu kuvura, bikaba bikoreshwa nk'imiti gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye muri kino gihe cyacu. Ariko ikaba yari izwiho gukoreshwa cyane n'abakurambere bacu mu gihe cyatambutse. Ariko ubu ngubu ikaba ikoreshwa mu buryo bugezweho kandi bwizewe, mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Amacupa agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru, umuhondo, akaba abikwamo imiti ikomoka ku bimera gakondo, imiti ikaba yifashisha kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni kimera giteye mu butaka kikaba gifite amabara y'icyatsi gifite amaba atoshye kikaba ari umuti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zi zitandukanye kikaba cyifashishwa ubungubu ndetse n'abakurambere bacu bakaba baraki fashishaga.

Ni ikimera kirandaranda, giteye mu butaka, kikaba gifite amababi y'icyatsi atoshye, kikagira n'indabyo nziza zitukura, kikaba cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, kikaba cyarakoreshwaga n'abakurambere bacu ariko n'ubu ngubu hakaba hari abantu bamwe na bamwe bakigikoresha nk'imiti, bivura kugira ngo babashe kugira ubuzima buzira umuze.

Ni ibimera bigiye bitandukanye bikaba n'imiti gakondo ,byajyaga byifashishwa n'abakurambere bacu ndetse n'ubu ngubu bikaba bigikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Iz'umubiri izo mu nda ndetse n'izindi zifite ibara ry'icyatsi, zimwe muri zo zikoze zifite n'imibara y'umuhondo.

Amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi akaba avuga umunsi mpuzamahanga kwizihiza imiti gakondo y'Abanyafurika, mu mwaka wa bibirina makumyabiri na kabiri, hakaba hari bine ndetse n'ibindi byinshi munsi bigaragaza imiti gakondo yakoreshejwe mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse n'ubu bikaba bigikoreshwa.

Ibi ni ibikoresho byakoreshwaga mu buvuzi bwa kera, hakaba harimo utubindi dufite imitwe ibiri hakaba harimo uducuma hakaba harimo inzu ntoya zibohesheje ibirere hakaba harimo n'amacupa, imifuka bikaba birambitse hasi.

Ni amacupa aya mabara agiye atandukanye harimo amabara y'ibihogo ndetse n'icyatsi ,umutuku akaba arimo imiti ikomoka ku bimera gakondo, byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, z'uruhu, umubiri ndetse n'izo mu nda.

Ni icupa ry'amavuta y'uruhu, iryo cupa rikaba ririho uruyuki bigaragara ko aya mavuta akomoka k'umusaruro w'inzuki aribwo buki. Icupa rasa umweru kandi ripfundikije umupfundikizo wera, hakaba hari ibara ry'umuhondo, amagambo akaba yandishijwe ibara ry'umutuku ,umukara ndetse n'umweru.

Ni ibirahure bibiri, bikaba birimo amazi, ayo mazi akaba yatobewemo ibyatsi by'imiti gakondo byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo n'inkorora.

Ni ikirango cy'ikigo cyikorera gicuruza imiti cyitwa akagera, iyo miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ikaba ikomoka mu byatsi ndetse no mu bimera gakondo. Amagambo yanditse mu cyapa.

Imiti gakondo iteye mu bikoresho byabugenewe ikaba iteretse ku gikoresho kimeze nk'imeza iyo miti ikaba isa icyatsi kibisi kandi iteye mu bikoresho bine.

Ni amacupa aba arimo imiti ikomoka mu bimera gakondo byifashishwaga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, iyi miti ikayifasha mu kuvura indwara z'uruhu cyane cyane, ndetse n'izindi ndwara zisa nka zo.

Nibyatsi bikaba n'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo inkorora ibicurane ndetse n'ibindi ifite amabara y'icyatsi umuhondo n'umutuku.

Ni icupa rifite ibara ry'umweru rikorapfundikije umupfunindiki w'umweru hariho amagambo a yanyanditse mu marage atandukanye harimo umutsi gakondo ukomoka ku bimera gakondo ukaba wifashishwa mu kuvura indwara ye zitandukanye.

Imiti iri mu bikoresho imwe iri mu macupa indi iri mu gasekuru k'umweru ikaba isa icyatsi aya macupa amwe akaba asa umweru andi asa umutuku.

Ni agasekuru gatoya basekuriramo umuti gakondo ukoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, kugira ngo habeho imibereho myiza y'abantu birinda ndetse banavurwa, hakaba hari n'imbehe iriho indi miti idasekuye.

Igiti kirekire giteye bigaragara ko gisumba ibindi byose, hakaba hari ku manywa, kikaba gifasha mu kuvura indwara zitandukanye ubungubu ndetse n'abakurambere bacu bakaba baragikoreshaga. Gikungahaye ku ntungamubiri ndetse ...

Ni urubuto rw'ipapayi rwongera ubudahangarwa bw'umubiri cyane rukaba rurinda indwara. Uru buto rurasatuye mw'ibere harimo utubuto dutoya dusa umukara natwo tuvura cyane.

Imiti gakondo bakoresha bavura amibe ikaba hari icupa ripfundikiye iriho akarango k'umutuku.

Ni icupa ririmo amavuta arimo igihingwa gakondo kikaba n'ikimera kifashishwa cyane nk'umuti uvura uruhu ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye kikaba kitwa igikakarubamba.

Ni amacupabiri ateretse ahantu, akaba afite imipfundikizo itandukanye, rimwe rifite umufugizi w'umuhondo, irindi rifite umupfundikizo w'ibihogo, hakaba hariho ibikakarubamba bisa icyatsi kibisi. Icupa rimwe n'umuhondo, irindi ririmo umweru.

Ni igiti kikaba n'ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi maremare kandi atoshye, kikaba ari n'umuti gakondo wifashishwaga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo: izo mu nda, izo ku mubiri ndetse n'izindi nyinshi cyane. Byifashishwaga n'abakurambere bacu ndetse n'ubu ngubu kikaba gikoreshwa hamwe na hamwe mu Rwanda.

Ni umuti gakondo we mu kabumbano hakaba harimo umuti usa umuhondo uteretse hejuru y'urubaho munsi hakaba harimo akenda.

Ni abantu bahagaze bambaye imipira y'icyatsi, bakaba bari mu murima uhinzemo imiti gakondo bita ibikakarubamba, imiti ikaba ikoreshwa mu kuvura indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, amenyo ndetse n'izindi ndwara nyinshi cyane, kugira ngo abantu dushobore kugira ubuzima bwiza.

Ni ikimera gisa icyatsi gifite amababi atoshye, kikaba ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye z'umubiri, kugirango abantu barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ni ikimera giteye mu butaka, gifite amababi y'icyatsi atoshye kandi meza, kikaba cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri kugira ngo kirusheho gutuma abantu bagira ubuzima bwiza n'imibereho myiza.

Ni amacupa abikwamo imiti gakondo, rimwe risa umweru irindi risa uburu rikaba ripfundikije umupfundikizo w'umutuku, irindi risa umukara ririho ikirango cy'icyatsi, irindi ririho ikirango cy'umutuku, irindi ripfundikije umupfundikizo w'umukara.

Ni ikimera, kikaba n'icyatsi cy'umuti gakondo, cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Gifite ibara ry'icyatsi, kikagira n'utubabi dutoya.

Amashu atanu y'ibimeragakondo hakaba hari ibigiteye mu butakaruwe ndetse n'ibyasaruwe, iyi ni imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye iz'umubiri, iz'uruhu ndetse n'izindi, ikaba yifashishwa n'abantu b'iki gihe ndetse ikaba yifashishwa n'abakurambere bacu mu gihe cyatambutse.

N'icyatsi gakondo kikaba n'umuti gakondo wifashishwaga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, bakaba bacyita igitovu, gifite ibara ry'icyatsi, kiratoshye kandi giteye mu butaka.

Ni amashusho ane, ariho imiti gakondo y'amabara y'umuhondo, umutuku, icyatsi, ikaba yarifashishwaga n'abakurambere bacu mu kuvura indwara zigiye zitandukanye mu bihe bya kera, ariko nanone biracyakoreshwa.

Ni ikibabi cy'umuti gakondo, kikaba gifite umutwe ubyibushye, kikaba gifite aho gitereye hatoya, mu bigaragara ni bitatu.

Ibibabi by'umuti gakondo bita umuravumba, bisa icyatsi, ukaba warakoreshwaga n'abakurambere bacu cyane mu kuvura indwara nk'inkorora ndetse n'ibindi. Ukaba ufite amazi arura cyane iyo uri kuwuhekenya.

Ni imiti gakondo iri mu mabara atandukanye, igiye ifite amazina yayo yanditse mu mabara y’umukara. Imwe muri yo harimo tungurusumu, akaba ari umuti uvura cyane ukawurinda n’indwara nyinshi mu mubiri.

Ni umuti gakondo urandaranda ufite ibara ritukura ndetse n'icyatsi ukaba ukoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo izo mu nda, iz'uruhu, ndetse n'izindi.

Ni ikimera giteye mu butaka gifite uruti rutoya kikaba gifite utubyo tw'umweru, cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara ziri zitandukanye, cyifashishwajwe n'abakurambere bacu ariko no muri iyi minsi gifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye bakanagikuramo amazi yifashishwa imiti yifashishwa mu gihe cy'ubungubu kigezweho.